Umwana mutoya wirabura wambaye umupira w'ubururu uriho uturongo tw'umukara, mu ntoki ze afashe isabune, haragaragara kandi akaboko k'umuntu ufashe ijagi ifite ibara ry'icyatsi amusukira amazi ngo akarabe.

Umugore wite agatambaro, wambaye ishati y'ubururu, uri ku ivomero rusange ufite ijerekani ari kuvomeramo amazi, hirya ye hari undi mugabo na we ufite ijerekani na we uri kuvoma amazi.

Umugore wambaye igitenge, uteruye umwana, uri mu cyumba cyisanzuye, kirimo n'abandi bagore benshi bafite abana, afite mu ntoki kandi ifishi y'urukingo, afitemo kandi n'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, bigaragara ko yaje gukingiza umwana we.

Umugabo wambaye ishati bigaragara ko asengera mu idini ya isilamu akaba ashaje, ari kumwe kandi n'undi mugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga, uturindantoki, agapfukamu ndetse n'ikindi gikoresho kimurinda gufata ibyorezo binyuze mu maso, afite igikoresho nsakazamashusho mu ntoki ze bigaragara ko ari icyo gusobanurira uwo musaza, inyuma yabo hari umwana wambaye umwambaro w'ubururu ndetse n'umutuku.

Abana b'abakobwa batanu bambaye impuzangano y'ishuri, bari ku muyoboro w'amazi bari gukaraba intoki. Umwe muri bo abahagaze iruhande ategereje yuko basoza ngo nawe akarabe.

Umwana muto w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umukara, ari ku ivomero rusange ari gukaraba intoki. Iruhande hateretse indobo ndetse n'inyuma ye hateretse indi ndobo zose ziri mu mabara y'ubururu. Inyuma yaho hateye ibiti byinshi byiza bitoshye.

Umugabo uri mu mpuzankano zo kwa muganga ziri mu ibara ry'ubururu uri kumwe, n'umugore wambaye umupira w'umweru ukenyeye igitenge. uwo mugabo afite icyapa mu ntoki kiho amashusho abiri atandukanye bigaragara yuko ari ubukangurambaga ariko kugezaho kuri uwo muntu. bikaba bigaragara ko bari kwa muganga

Abana bane b'abahungu bari ku ivome rusange, umwe muri bo ahagaze ku ivomero ari kugerageza ngo amazi aze, imbere kandi hateretse ijerekani bigaragara yuko yuzuye batakiri kuyivomera, inyuma kandi hatetse n'akandi kajerekani nako gategereje ko bakavoma, inyuma yaho hari ibyatsi byiza bitoshye ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye bakoze ishusho y'uruziga, barimo abagabo ndetse n'abagore, barimo kandi uwambaye imyambaro bigaragara ko asengera mu idini ya Isilamu. Biragaragara yuko bafite ingingo bari kuganiraho. Umugore umwe muri bo wambaye umwenda w'umuhondo, arahagaze, bigaragara ko hari icyo ari gusobanuza umugabo ahagaze iruhande wambaye amadarubindi.

Amazi meza y'urubogobogo ari guturuka mu muyoboro, ahantu bigaragara ko ari ku ivomero rusange, hari kandi n'ibiganza by'umuntu wambaye ishati y'ubururu bikaba biteze ayo mazi.

Imodoka ya rumoroki ndende iri mu mabara y'umweru n’umukara, iriho ibirango biri mu mabara y’umweru n'ubururu bigaragaza y’uko ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe ibiryo ku isi.

Abantu benshi biganjemo abana, bari ku ivomero rusange bari gukaraba intoki, hakaba hateretse n'ibesanyi y'umutuku iri kujyamo amazi, bamwe bari gukaraba abandi bahagaze bategereje, bikaba bigaragara yuko bari gushishikarizwa umuco mwiza wo gukaraba intoki.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho agashushanyo kameze nk'umubumbe w' isi karimo ibara ry'umukara kazengurutswe n'utundi dushushanyo dusa nk'udukoze ibiganza by'umuntu turi mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, hakaba handitseho amagambo agaragaza yuko ari umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi.

Abantu barimo abirabura n'abazungu, bari mu byiciro by'abagabo n'abagore bari ahantu mu cyumba kiza, iruhande rwabo hari idarapo y'u Rwanda n'irindi darapo ry'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana n'impunzi, inyuma yabo hari icyapa cyerekana y'uko bari bari mu mahugurwa, yateguwe n'icyo kigo gishinzwe kwita ku bana ndetse n'impunzi.

Ivomero rusange rikikijwe n'abantu batandukanye, barimo abana, abagore ndetse n'abagabo, hakaba kandi hari amabesani akoze mu byuma, ndetse n'amajerekani ahateretse bigaragara yuko yose bategereje kuyavoma.

Abana babiri bari ku ivomero rusange bakaraba intoki amazi ari kumanuka ava muri iryo vomero rusange. Umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye utwenda dusa turimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru. Bari ahantu hari ibyatsi byinshi byumye inyuma yabo.

Abantu b'abagabo ndetse n'abana bakikije ivomero rusange, hateretse ijerekani iri kujyamo amazi iri mu ibara ry'umuhondo, hakaba kandi hari n'akandi kajerekani gato kahateretse bigaragara ko na ko bategereje ku kavoma.

Umugabo wambaye ishati irimo imirongo n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko akuze wishimye cyane, afite ijerekani ashikamiyeho, agiye kuvoma ku ivomero rusange rifite imiyoboro ibiri izana amazi, inyuma ye hari ingo nyinshi zitandukanye, hakaba hari n'ibimera bitandukanye.

Umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugabo wicaye afashe umugore we ku rutugu, imbere y'umugore ukora kwa muganga hari intebe irambitseho ibipapuro bigaragara ko ari byo ari kwifashisha agira ibyo asobanurira abo ngabo bamuri imbere.

Abana babiri umwe yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye umupira urimo imirongo y'icyatsi n'umweru, bari ku ivomero bafite indobo biragaragara y'uko barimo baravoma amazi meza asukuye yo kwifashisha.

Umwana wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umutuku werurutse uri ku ivomero rusange. Afashe ijerekani y'umuhondo ari kuvomeramo amazi. Hateretse kandi andi majerekani abiri bigaragara yuko na yo ategereje kuyavoma. Inyuma hari ibimera bitandukanye birimo urutoki n'ibindi.

Abagore bane n'umwana bakikije iriba rusange. Abagore babiri muri bo bari imbere bateruye indobo y'ubururu bigaragara ko yuzuye amazi barikuyikuraho ngo bashyireho indi ndobo y'icyatsi iri inyuma. Iryo vomero biragaragara yuko baryubakiwe ku nkunga n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku mpunzi.

Ahantu bigaragara ko habereye inama yitabiriwe n'abantu bari mu byiciro bitandukanye, hari kandi n'abantu babiri bicaye imbere barimo uw'umuzungu bigaragara ko ari umusaza n'undi w'umwirabura bigaragara yuko aribo bayoboye iyo nama, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru bigaragara yuko abari bari kurwanya icyorezo cyateye mu Rwanda.

Umugabo wirabura wambaye impuzankano yo kwa muganga, ari kumwe n'umwana mutoya w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, ari kumutera urukingo, imbere yabo hari abandi bana benshi bicaye, bigaragara ko bategereje gukingirwa.

Icyapa kiriho umwana uteze ibiganza ku ivomero rusange ari kunywa amazi aturutseho. Inyuma ye hari abandi bantu bigaragara ko batonze umurongo na bo bategereje kunywa kuri ayo mazi. Iruhande rwabo hakaba hari intebe. Kuri icyo cyapa handitseho amagambo agaragaza yuko ari ubutumwa buri gutambutswa n'umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana ndetse n'impunzi.

Abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga iri mu ibara ry'ubururu, bari kumwe kandi n'umuzungu wambaye ikote ry'umukara bigaragara yuko ashaje, yambaye amadarubindi, inyuma hari undi muzungu uri gufata amafoto akoresheje ibyuma byabugenewe, bikaba bigaragara yuko ari abakozi bo ku kigo nderabuzima cya Mayange, abo bazungu bamaze kubaha amahugurwa, bakaba bari kubashimira.

Abantu bari ahantu bigaragara ko ari ku rubaraza, inyuma yabo hari igiti. Bambaye impuzangano iri mu ibara ry'ubururu bigaragara ko bakora kwa muganga. Bari kumwe kandi n'umugabo wambaye ikote bigaragara yuko ari nk'umuntu ubahagarariye. Biragaragara yuko bavuye mu gikorwa kimwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyapa cy'umweru kiriho udushushanyo turi mu ibara ry'ubururu umwe ndetse n'icyatsi, hakaba kandi hariho n'inyuguti ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba ari ikirango cy'ikigo gishinzwe amazi mu Rwanda.

Abana batandatu bakiri bato bambaye ubusa bari mu kidendezi cy'amazi, bari kwidumbaguzamo, biragaragara yuko bishimiye ibyo barimo, bamwe bari kwidumbaguza abandi barahagaze bari kubareba.

Umugore wirabura wambaye ingofero n'agapfukamunwa kaba kandi hari n'undi mugore wambaye impuzankano yo kwa muganga ufite urushinge uri kumukingira yambaye agapfukamunwa nawe, inyuma ye hari n'abandi bigaragara yuko bari mu gikorwa kimwe kikingira.

Umwana muto w'umuhungu wambaye impuzangano y'ishuri, uri gukaraba intoki ku gakoresho kabugenewe mu kwimakaza isuku y'intoki, kari mu ibara ry'umutuku, hatezeho kandi n'ibasani ijyamo amazi bamaze gukaraba, ifite ibara ry'umutuku w'icunga rihishiye. Inyuma ye hari inzu y'amatafari ahiye.

Umwana mutoya, wambaye ikanzu, witeye igitenge, ufashe ijerekani ayiyobora neza ku muyoboro w'amazi ngo avome. Iruhande hari undi mugore na we uri kuvoma, wambaye ikanzu y'ubururu, witeye umwitero w'umweru mu ijosi. Iruhande rwabo hari abana benshi ndetse hari n'undi mugore ufite umutaka uri mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko bose baje kuvoma.

Ivomero rusange, rikikijwe n'abana ndetse n'abagore, barimo n'umugore uteruye umwana, hakaba kandi hari undi mugore uri kugerageza kugira ngo amazi aze, ndetse n'umwana wateze ijerekani kugira ngo ijyemo amazi, hakaba kandi hari n'andi majerekani ateretse, bategereje kuvoma.

Umwana muto w'umuhungu wambaye umupira ufite umutuku w'icunga rihishije ahagaze ku munzani bari kumupima ibiro ari kumwe kandi n'umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza imana israel mbonyi bambaye imipira isa bikagaragara ko hari ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima barimo bifashishije uwo muhanzi.

Umwana uryamye agaramye unanutse cyane bigaragara ko arwaye, iruhande yica umugore, bigaragara ko ari nyina, akaba ari umusore ufashe akaboko k'uwo mwana bigaragara yuko arivura, ari kumwe kandi n'undi mukobwa niwe wambaye impuzankangano yo kwa muganga bigaragara ko ari kumufasha kuvura uwo mwana, ku buriri umwana aryamyeho, hateretseho imiti, bari kwifashisha bamuvura, hirya hakaba hari abandi bantu baje kwivuza.

Abantu bicaye bateganye ku meza barimo abagabo n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo hari insakazamashusho, bari mu cyumba cyiza kirimo amabara y'umweru, hamanitsemo kandi n'ifoto y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, bigaragara yuko bari mu mahugurwa bafite ingingo imwe bari kuganiraho.

Abantu bicaye bakikije ameza bateganye mu cyumba cyiza, kirimo amabara y'umweru, imbere yabo hakaba hari insakazamashusho, hakaba hamanitsemo kandi ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, imbere yabo hagiye hateretse amazi ndetse bafite n'ibikoresho byo kwandikaho, ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga bikaba bigaragara ko bari mu nama.

Abagore bane bicaye, umugore umwe yambaye impuzangano yo kwa muganga, biragaragara ko ari umuganga, abandi bagore batatu bicaye imbere ye ariko bakira, umwe muri bo yamushyizeho igikoresho cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, bigaragara ko n'abandi ari byo bategereje bicaye ahantu hanze, inyuma yabo hari ubusitani burimo uduti dutoya.

Icyumba cyiza kirimo amabara meza y'umweru, umutuku n'ubururu, hakaba harimo insakazamashusho zitandukanye, harimo kandi ibikoresho bigezweho byifashisha ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi, ni kwa muganga.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, bigaragara ko bakora kwa muganga, bari kumwe kandi n'umuntu wambaye ikote, birasa nk'aho hari amahugurwa basoje, uwo muntu wambaye ikote akaba ari we wari wayayoboye. Harimo kandi n'abandi bambaye amakote, bigaragara ko bafatanyije kuyayobora.

Umusore ukiri mutoya wambaye impuzankan yo kwa muganga ndetse n'ikarita igaragaza ko ari umuganga yambaye uturindantoki afashe ikiganza cy'umurwayi biragaragara ko ari kumuvura, iruhande rwe yicaye umukobwa nawe bigaragara ko ari umuganga ufashe ibinini mu ntoki hakaba n'umukecuru witeze agatambaro nawe bigaragaza ko yaje kwivuza, inyuma yabo kandi hari umusore uhagaze yafashe mu mifuka bigaragara ko na akorana nabo.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, hakaba hariho kandi akarango kariho umugore uteruye umwana. Icyo cyapa kikaba cyerekana umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Umwana wambaye ikabutura itukura, udukweto dufunguye tw'ubururu ndetse n'ishati iri mu mabara ya gisirikari, ari ku ivomero ateze ibiganza ari kunywa amazi, hasi hari indobo iteze bigaragara yuko yuzuye amazi bari bari kuvomeramo.

Umugore wikoreye ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo, ipfundikije umufuniko w'umutuku, iruhande rwe hari umwana wambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hari undi mwana na we wikore akabido gatoya, inyuma yabo hari inzu nziza isakaye mu buryo bugezweho, bigaragara yuko bavuye kuvoma.

Abana bane b'abahungu, bambaye imyenda itandukanye, bari ku ivomo rusange, hari kandi ijerekani iteretse imbere, bigaragara y'uko amazi atari kuyijyamo, inyuma yabo kandi hari akajerekani gatoya, bigaragara ko na ko bategereje ku kavoma, inyuma hari ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti.

Abana bambaye impuzangano y'ishuri, bari ku ivomero rusange, rifite imiyoboro izana amazi itatu, hari kandi indobo z'umuhondo ziteretse, bari kuvomeramo, umwana umwe uri hagati ari gukaraba intoki ndetse n'undi uri ku ruhande, inyuma kandi hari n'abandi bana na bo bigaragara yuko hari indi miyoboro iri ku rundi ruhande bari gukarabiraho.

Umwana wambaye impuzangano y'ishuri wishimye umanitse akaboko. Kumwe n'undi mwana utambaye impuzangana y'ishuri bari ahantu bigaragara ko ari mu ishuri hari ikibaho. Hari n'undi mwana iruhande rwabo na we wamanitse akaboko bakaba bicaye iruhande rw'ameza y'igiti.

Umuzungu mukuru bigaragara ko ashaje w'umugabo, wambaye ikote ry'umukara, ari kumwe n'abantu barimo abagore n'abagabo bambaye impuzankano, bigaragara ko bakora kwa muganga, bambaye kandi amakarita yerekana aho bakora, biragaragara ko bari mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima bigaragara ko ari cyo bakoraho.

Abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe barimo abahungu babiri bahagaze, umwe yambaye umupira utukura undi w'umweru afite indangururamajwi hari kandi n'umugore wambaye igitenge upfukamye yubamye ku butaka iruhande hari icyapa gishishikariza abantu kwirinda ibyorezo. abo bantu bikaba bigaragaye ko bari gukina ikinamico itanga ubutumwa ku bakoraniye aho.

Umugore wirabura, wambaye ingofero, umupira ndetse n'igitenge, bigaragara ko avuye mu bwiherero, akaba ari gukaraba intoki, akoresheje igikoresho cyabugenewe, kizwi nka kandagirukarabe, kifashishwa mu kwimakaza isuku y'intoki.

Umugore ukenyenye igitenge, wambaye ishati uri ahantu hari ibyatsi ibitoshye ndetse n'ibyumye, yikoreye indobo y'umutuku ndetse n'indi y'umuhondo, bikaba bigaragara y'uko avuye kuzivomeramo amazi yo kwifashisha mu mirimo.

Umwana mutoya wambaye impuzangano y'ishuri, ugaragara nk'uwishimye, uri gukaraba intoki yifashishije indobo ifite ibara ry'umweru n'umufuniko w'ubururu, uteretse ku kameza gafite amaguru y'icyuma bigaragara yuko iyo ndobo yagenewe gukarabirwaho intoki, inyuma ye kandi hari urugo bigaragara yuko rukoze mu bikenyeri byumye.

Abana batatu batandukanye ubona bakiri bato bishimye bari ahantu ku ivomero rusange bari gukaraba intoki, inyuma yabo kandi hari ibiti ndetse hari n'uruzitiro rundi rukoze mu biti byumye hirya.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, uri gukaraba intoki akoresheje igikoresho cyagenewe kunoza isuku y'intoki kizwi nka kandagira ukarabe, iruhande rwe hari indabo, inyuma ye kandi hubatse inzu iteye umucanga.

Abagore bane n'umukobwa umwe ukiri mutoya, bahagaze iruhande rw'akazu karirimo ibara ry'umweru n'ubururu bigaragara ko ari ivomero rusange. Imbere yabo hari amajerekani menshi ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umuhondo werurutse cyane, bigaragara ko bari kugenda bayavoma, imwe imwe abo bakaba baje kuvoma. Hakikijwe n'ibiti ndetse n'uruzitiro rukoze mu byuma.

Ibiganza bibiri bigaragara yuko biri gukaraba ku muyoboro w'amazi rusange ari kuza meza asukuye, bikaba bigaragara yuko ibyo biganza na byo biri kugerageza gusukura intoki kugira ngo bibe bisa neza.

Ivomero rusange rifite imiyoboro izana amazi ibiri, hari abana umwe ari kuvoma undi azanye igikoresho cyo kuvomamo ari kumwe kandi n'akandi gatoya, hari kandi n'undi mwana bari kogereza mu ibesani itukura.

Abantu b'urubyiruko barimo abasore ndetse n'inkumi, bambaye impuzankano yo kwa muganga abandi ntibayambaye ariko bose bambaye amakarita agaragaza ko ari abaganga, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza yuko bari baje gutanga ubuvuzi bugera ku baturage basanze aho batuye, bikaba bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyapa cy'ubururu kiriho ibimenyetso biri mu ibara ry'umweru ndetse n'inyuguti ziri mu ibara ry'umweru, akaba ari ikirango cy'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku mirire no kurwanya imirire mibi ku isi.

Ibiganza by'umuntu wirabura, biri gukaraba intoki ku gikoresho cyagenewe gukarabirwaho intoki, iruhande kandi hateretse isabune na yo bigaragara yuko yifashishwa mu kunoza isuku yo ku ntoki.

Inshinge esheshatu zirambuye ku gasahani k'icyuma, hakaba hateretse kandi n'agacupa gatoya gakoze mu kirahure kariho urupapuro rwerekana ibirimo, rukaba ari urukingo rw'indwara runaka.

Abantu batandukanye barimo abahungu n'abakobwa, bamwe muri bo bambaye impuzangano yo kwa muganga, bose bambaye amakarita abaranga agaragaza yuko bakora kwa muganga, bakaba inyuma yabo hari icyapa cyerekana yuko bari bagiye gutanga ubuvuzi bugera ku baturage muri Nyabageni.

Umuntu w'umukobwa wicaye iruhande rw'ameza, ruteretseho mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari umumama w'umuganga urikumupima umuvuduko w'amaraso, akoresheje igikoresho cyabugenewe, inyuma hari undi mumama na we bigaragara ko ari umuganga ufite ibindi arimo.

Abana benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, umutuku, umukara, icyatsi ndetse harimo n'abambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara rya kaki, bari ku mugezi hari kuza amazi biragaragara yuko bari kuyarwanira.

Umwana w'umukobwa muto wambaye imyenda y'umutuku ikoze mu gitenge, akaba asutse ibituta, akaba ari gukaraba intoki ku ivomero rusange amazi ari gukaraba akaba ari kujya mu ibesani y'umukara iteretse. Bikaba bigaragara ko yishimiye igikorwa arimo.

Abagore batatu bicaye mucyumba kirimo ibikoresho birimo amakaye, ameza, intebe n'utubati. Babiri bambaye impuzankano y'umweru undi yambaye impuzankano y'umweru n'ubururu bigaragara yuko bose bakora kwa muganga ariko bakora mu bintu bitandukanye kubera ko batambaye impuzankano isa.

Umugore, wirabura uteze igitambaro, uri kureba nabi cyane, bigaragara yuko afite umujinya, uko bigaragara afite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba kinini cyiza cyisanzuye, imbere harimo abantu bicaye barimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari abandi benshi bahica bigaragara ko babateze amatwi, inyuma hari icyapa cyerekana yuko bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, icyo cyapa kandi kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Umugore bigaragara ko ukuze wambaye imyenda isa nabi cyane, uri gutoragura ibintu by'imyanda wambaye inkweto zishaje, usa nabi udaheruka gukaraba ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore wicaye wigunze ahantu mu nzu, akenyeye igitenge, yicaye ku ntebe ya karambarazi ikoze mu rubaho, imbere ye hari umukeka, inyuma idirishya rirakinguye, biragaragara yuko ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kigari kisanzuye kirimo ameza n'intebe byiza, harimo kandi n'ibyapa bimanitsemo bikaba bigaragara y'uko bari guhabwa ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye inshwabari, umusatsi wereyeho n'ubwanwa udaheruka kubyogosha, usa nabi ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'igitenge nziza n'ipantaro y'umukara, bari gusuhuzanya, umugabo wambaye inshwabari biragaragara yuko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, icyatsi, ubururu, umuhondo n'umukara, bikaba bigaragaza yuko hariho ifoto y'umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe gutanga imbaraga zikomoka ku zuba, bakazihindura amashanyarazi, kikaba kigaragaza yuko kifatanyije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mutwe, wabaye kuri cumi n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuntu wicaye, bigaragara yuko yigunze, yambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro n'inkweto, bisa nabi, bigaragara yuko afite uburwayi bwo mu mutwe. Yicaye ahantu bimeze nk'aho ari iruhande rw'umuhanda, iruhande rwe hari imyanda myinshi.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho y'umuturirwa, isize ibara ry'umweru, imbere kandi hari ibyapa bitandukanye bigaragaza ibyo bakora, hakaba hari n'icyapa kandi kigaragaza yuko ari ibitaro bikuru bya Munini, bikaba ari ibitaro by'Akarere.

Abantu barimo abakobwa, abagore abahungu ndetse n'abagabo bigaragara yuko basoje amahugurwa, bafite icyapa cyanditseho amagambo, bigaragara yuko amahugurwa bari barimo ajyanye n'ubukangurambaga, ku buzima bwo mu mutwe.

Umwana muto wambaye impuzangano y'ishuri, yicaye ahantu bigaragara ko ari mu ishuri ku ntebe yegamirwa, imbere ye hari ameza, akaba kandi afite igisuguti mu ntoki ari kurya bigaragara ko yishimye.

Umugabo ufite imisatsi myinshi itogoshe ndetse n'ubwanwa, wambaye umwambaro uciye amaboko ndetse n'ikabutura, afite kandi ipine ry'imodoka yambaye, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'umuhondo, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Hariho n'ibirango bitandukanye birimo ikirangantego cy'u Rwanda, ikirango cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima n'ibindi, kikaba kiriho ubutumwa bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'ingimbi.

Umugore wirabura wambaye umupira urimo imirongo itambitse y'umukara ndetse n'umutuku, akaba yambaye n'ikote, yiteza agatambaro mu mutwe. yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibimera myinshi, akaba afite isuka mu ntoki, inyuma ye hari inzu isakaje amategura hakaba kandi hari n'uruyuzi rwatondagiye igiti.

Umugore wirabura ufite ibisuko by'umukara wambaye ishati y'igitenge, afashe indangururamajwi ye mu kiganza bigaragara yuko hari icyo ari kuvuga, iruhande hicaye umugabo wambaye umupira w'umukara, inyuma yabo hakaba hari icyapa kigaragaza yuko bari kuvuga kujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imbere yabo kandi hateretse agasakoshi ku meza.

Umugabo wicaye ahantu hasa nabi, ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'umweru n'ubururu, wifashe ku mutwe, bigaragara yuko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore bigaragara yuko ari umubyeyi mwiza wambaye amarinete, wambaye umwenda urimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo ufite akapa mu ntoki.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo, abagore ndetse ,n'abashinzwe umutekano bazwi ku izina rya polisi bikaba bigaragara yuko bari gufata urwibutso basoje amahugurwa ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina inyuma yabo handitse amagambo agaragaza ibyo basoje hari kandi n'ibiranganteko bitandukanye birimo n'iki gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye bakikije ameza, barimo abagabo n'abagore, umugore umwe muri bo afite indangururamajwi, biragaragara ko hari icyo ari kubwira abandi. Imbere yabo hateretse mudasobwa, amazi ndetse n'ibindi bikoresho nk'amakayi byo kwandikaho, bigaragara ko bari mu nama.

Icyapa cy'amabara atandukanye kiriho umugore wasetse gishishikariza abantu yuko bafite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe harimo kurindwa indwara z'ubuzima bwo mu mutwe kwitabwaho ndetse no guhabwa ubwigenge icyo cyapa kikaba ari icy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima.

Umugabo w'umubyeyi urikumwe n'undi mugore na we bigaragara ko ari umubyeyi, bose bagaragara nk'abakuze. Bafashe umwana mutoya wambaye ibintu bicikaguritse bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe bakaba barikumuha ubufasha. Iruhande rwabo hari akana gato, inyuma hari n'abandi bantu barikubareba batandukanye.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati irimo imirongo, uhagaze imbere y'icyapa kinini kigaragara kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikindi kirangantego kiri mu amabara y'umuhondo, umutuku n'umukara. Biragaragara y'uko yagiye ku kigo cyita ku babana n'uburwayi bwo mu mutwe k'Indera.

Icyumba kigari kisanzuye, kirimo abantu bari mu byiciro by'abagabo, abagore, abirabura ndetse n'abazungu, harimo abambaye udupfukamunwa, abantu bose barishimye, bari gukoma amashyi, biragaragara ko bari mu mahugurwa, bakaba bishimiye ibyo bamaze kubwirwa, hari kandi n'ameza ateretseho amazi, bigaragara ko buri umwe, afite aye ari kunywa.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye anogeye ijisho, arimo umweru ndetse n'ubururu, hari kandi ibyuma biyizengurutse, bituma abantu batarenga ngo bikubite hasi, hakaba hagaragara nk'ahatangirwa ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba kinini kisanzuye, kirimo amabara meza, harimo amatara ari kwaka, harimo abantu benshi, barimo abagabo n'abagore, bigaraga yuko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, kiri ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bigaragara yuko bamaze guhabwa amahugurwa ku ngingo y'ibijyanye n'ubuzima.

Umukobwa mwiza wirabura wambaye umupira w'umukara ndetse n'agakote k'umutuku, afite umusatsi uringaniye yasetse biragaragara ko yishimye, inyuma ye hari inzu iri mu mabara y'umweru, imbere yayo hateretse intebe.

Abantu bari mu muhanda urambuye ukikijwe n'amazu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'icyatsi. Bari kumwe n'abashinzwe umutekano bamwe muri bo bari imbere bafite icyapa cy'ibara ry'umweru kiriho ibirangantego bitandukanye birimo icy'u Rwanda, icya polisi y'igihugu ndetse n'ibindi hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umukara ashishikariza abantu kurwanya ihohoterwa anabibutsa ko ari inshingano zabo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara werurutse kiriho udushushanyo tubiri dukoze mu isura y'abantu, uw'umugabo n'uw'umugore, bafashe ikindi gishushanyo gikozwe mu mutwe w'umuntu, bigaragara ko cyerekana umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abantu icyenda bahagaze bafite ikintu mu ntoki zabo, bigaragara ko ari ishimwe bahawe, inyuma yabo hari imodoka ndetse biragaragara yuko ahantu bari habereye imurikagurisha, abo bantu ni abagabo ndetse n'abagore.

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu witwa Uwihoreye Chaste, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, kiiri mu ibara ry'ubururu handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ubutumwa bwari buri gutangwa n'uwo mugabo uriho, bikaba bigaragara yuko byari mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, ubwo butumwa bukaba bwari bwatanzwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umuntu w'umugabo wambaye ikintu cy'umweru, uri kwireba mu ndorerwamo, mu ntoki ze akaba afitemo akadodo, kabugenewe mu gukora isuku y'amenyo, bikaba bigaragara ko ari gusukura amenyo ye, yireba.

Umugore wirabura mwiza cyane, wasetse, imbere hari ikiganza cyambaye uturindantoki, bigaragara yuko gifite n'akandi kantu kariho ubwoko bw'amenyo butandukanye, bikaba bigaragara yuko uwo mugore bari kumuha ubuvuzi bw'amenyo.

Umugabo wirabura, ufite ubwanwa, werekanye amenyo, uryamye agaramye, ari kumwe n'umugore, bigaragara ko bari kwa muganga, uwo mugore ari kumuvura amenyo. Yambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, afite kandi agakoresho mu ntoki, bigaragara ko ariko ari kwifashisha amuvura.

Umuntu w'umusore, wogosha ubwanwa, ufite umusatsi mukeya. Wambaye umupira w'icyatsi, afite akantu mu ntoki kariho ishusho y'amenyo atandukanye. Yasetsa arishimye cyane, atunze urutoki rwe kuri ako gakoresho. Bigaragara ko ari gutanga ubukangurambaga mu kwimakaza ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umukobwa wirabura ukiri muto wambaye iherena uryamye agaramye urambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi, kandi hari undi bigaragara yuko nawe ari umugore gusa isura ye ntigaragara. Yambaye agapfukamunwa, yambaye uturindantoki ndetse biragaragara yuko afite utwuma twagenewe kuvura amenyo akaba ari kuvura uwo mukobwa.

Umwana bigaragara ko akiri mutoya uryamye areba hejuru, hakaba hagaragara kandi n'umuntu bigaragara yuko ari ku muvura, yambaye uturindantoki, afite urushinge ndetse n'ikindi gikoresho kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo bikaba bigaragara yuko uwo mwana bari kumuvura amenyo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wirabura wasetse cyane, uri ahantu hari ibara ry'umuhondo, bigaragara ko amenyo ye asa neza cyane afite ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa buringaniye ufite mu ntoki ze agakoresho kagenewe mu kubungabunga no kunoza isuku y'amenyo akaba ari kugakoresha mu menyo ye kugira ngo ayagirire isuku.

Abana bambaye impuzangano y'ishuri, bicaye mu ishuri bamanitse amaboko yabo, bafite imiti yabugenewe mu kunoza isuku yo mu kanwa, bafite kandi n'agakoresho kabugenewe mu koza amenyo neza.

Umugabo ufite imisatsi iboshye uri kumwe n'akana ke gafite umusatsi mukeya, bafite mu ntoki zabo utudodo twifashishwa mu gusukura no kubungabunga isuku yo mu kanwa bari gusukura amenyo yabo.

Umugore mwiza wirabura wagaragaje amenyo ye ufite akadodo mu ntoki kabugenewe mu kwita ku isuku y'amenyo, bikaba bigaragara yuko nawe ari gusukura amenyo ye ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa buringaniye, wicaye ku ntebe igenewe kuvurirwaho abarwayi b'amenyo, iruhande kandi hari umuntu wambaye uturindantoki, ufite akuma mu ntoki akoresha mu kuvura amenyo, akaba ari umuganga uri kuvura uwo mugabo.

Umugabo wirabura, wambaye umupira w'umweru, wasetse ufite imisatsi iboshye, afite mu ntoki ze akadodo kifashishwa mu kubungabunga isuku yo mu kanwa, ari gusukura amenyo ye.

Icyumba kiri mu mabara y'umweru gifite amadirishya y'icyatsi, kirimo n'akabati bigaragara yuko ari ishuri, harimo kandi abanyeshuri bambaye impuzangano bafite mu ntoki zabo imiti isukura amenyo ndetse n'uburoso bwagenewe gusukura amenyo. Bari kumwe n'umuntu mukuru wirabura umumama bigaragara y'uko ari mwarimu wabo. Inyuma kandi hari undimu nawe w'umama bigaragara ko ari umwarimu.

Umuntu wambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga gisakaza amashusho, mu ntoki ze, bikaba bigaragara ko ari kureba imiterere itandukanye y'amenyo, bikaba bigaragara yuko ari umuganga w'amenyo uri kureba uburyo ki yafashamo umurwayi we.

Icyumba cyiza kiri mu mabara y'umweru, kirimo intebe ifite ibara ry'umweru n'icyatsi n'indi ifite ibara ry'umukara n'icyatsi, hamanitsemo insakazamashusho, harimo n'akabati karimo ibindi bikoresho bitandukanye, ibyo bikoresho byose birimo ni ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura amenyo, bikoresheje ikoranabuhanga rigezweho.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bigaragara ko ari kwireba mu ndorerwamo, akaba ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo isuku y'umubiri, akaba yambaye ikote ry'umukara ry'umwambaro wagenewe kurarana, bikaba bigaragara yuko ari gukora isuku yo mu kanwa akoresheje agakoresho kabugenewe akaba yambaye n'impeta bigaragara ko afite umugore.

Umuntu wasamye bigaragara ko yari afite uburwayi bw'iryinyo bakaba bamaze kurikura bifashishije igikoresho cyabugenewe mu kurikura. Umuntu rimukuye yambaye uturindantoki tw'umweru n'iryinyo bamaze kumukura aracyarifatishije igikoresho arikurishije.

Abana batoya bambaye impuzankano y'ishuri, bafite udukoresho twabugenewe mu koza amenyo turi mu mabara atandukanye, biragaragara yuko bari gutozwa isuku y'amenyo bakiri bato, bafite kandi n'udukombe turimo amazi barifashisha basukura mu kanwa.

Umuhungu wirabura uryamye agaramye yambaye umupira w'ubururu bamushyizeho ikintu cy'umweru ku munwa. Hari kandi n'umugore w'inzobe ufite urushinge mu ntoki ndetse n'akandi kantu, yambaye agapfukamunwa n'uturindantoki, ndetse n'impuzangano yo kwa muganga. Ni umuganga w'amenyo arikuvura uwo muhungu. Hari kandi n'undi muntu ahahagaze iruhande urikumufasha kumuvura.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, cyerekana imiterere y'amenyo y'umuntu, cyifashishwa mu kureberwaho bavura amenyo.

Ahantu hari akantu kubabatse kari mu ibara ry'umweru kariho icyapa cyerekana ko ari umunsi mpuzamahangahari ubuzima bwo mu kanwa. Iki cyapa kiriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Harihoho kandi n'ikirangantego cy'u Rwanda. Imbere hari abantu barimo abagabo abagore abakobwa bigaragara ko baje kugira ubufasha basaba. Hari kandi abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga bigaragara ko ari abaganga.

Icyumba cyiza kirimo amakaro gisize irangi ry'umweru kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Hari kandi n'intebe yicaraho umurwayi bari kumuvura, hakaba harimo kandi n'ibikoresho nsakazamashusho byerekana uko umurwayi ahagaze.

Umugabo wirabura ufite umusatsi uringaniye n'ubwanwa, wambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'umugore na we wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, bambaye impuzankano yo kwa muganga, bakaba bari kuvura amenyo umurwayi uryamye areba hejuru urambuyeho igitambaro cy'ubururu.

Umukobwa wirabura mwiza cyane wasetse, yafatanyije kandi intoki ze imbere y'umunwa biri kwerekana inseko ye neza, akaba afite amenyo y'urwererane bigaragara yuko afite ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umugabo wirabura wicaye ku byuma byabugenewe bikoresha ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura amenyo, hari kandi umugore w'inzobe wambaye impuzankano yo kwa muganga iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, afite udukoresho twabugenewe, ari kumuvura amenyo.

Umugore mwiza wirabura, uri kumwe n'umwana bigaragara ko ariwe na we mwiza bose bambaye umwambaro w'umweru, bakaba bafite igikoresho cyifashishwa mu kunoza isuku yo mu kanwa, bikaba bigaragaza y'uko, uwo mubyeyi ari gutoza umwana we kugirira isuku amenyo ye.

Umuntu bigaragara ko ari umugore uryamye agaramye, hari kandi n'abagabo babiri bahagaze bigaragara ko bafite utwuma twabugenewe mu kuvura amenyo. Bambaye amadarubindi bose n'udupfukamunwa ndetse n'impuzangano yo kwa muganga, bakaba bari mu cyumba, kirimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ikivurirwamo amenyo, bakaba bari kuvura uwo mugore amenyo.

Icyumba cyiza giteye irangi ry'umweru kirimo amatara menshi kirimo n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Harimo kandi n'intebe abantu bicaraho ndetse hakaba harimo n'utubati twifashishwa mu kubika impapuro, hakaba harimo n'ubukarabiro bugezweho abantu bifashisha basukura intoki. Hari umuryango kandi ukoze mu kirahure ukaba ufunguye.

Umuhungu wirabura ufite umusatsi mwinshi uryamye agaramye, urutoki rwe arutunze ku ryinyo, hari kandi undi muntu umuhagaze iruhande, wambaye uturindantoki tw'ubururu, afite akuma kariho ingano zitandukanye z'amenyo, akaba bigaragara y'uko ari kumuvura amenyo.

Umugabo wicaye wambaye impuzangano yo kwa muganga, yanditseho ibitaro bikuru bya Ruhengeri. Akaba yicaye ku ntebe y'icyatsi, iruhande rwe hari indi ntebe y'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu buvuzi, bikaba bigaragara yuko ari ahavurirwa amenyo. Mu cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho bigaragaza yuko ari kwa muganga.

Umuntu w'umusore wambaye amadarubindi ufite ubwanwa buringaniye, wasetse ufite amenyo y'urwererane yayatunzeho urutoki, biragaragara yuko ubuzima bwe bw'amenyo bumeze neza.

Umusore mwiza ukiri mutoya ufite umusatsi uringaniye werekanye amenyo ye, afite kandi akadodo kabugenewe mu kwimakaza isuku yo mu kanwa, akaba ari gusukura amenyo ye.

Umukobwa wirabura bigaragara ko ari mwiza wasetse, isura ye ntabwo iri kugaragara yose ariko amenyo ye y'urwererane ari kugaragara, yayatunzeho intoki biragaragara ko afite ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umwana mutoya, wirabura, uryamye agaramye, inyuma ye hari umuntu, bigaragara ko yambaye umwambaro wabugenewe wo kwa muganga, akaba yambaye n'uturindantoki tw'umweru, akaba ari kuvura uwo mwana amenyo.

Umwana muto w'umuhungu wirabura wagaragaje amenyo ye, mu ntoki ze afite agakoresho kabugenewe mu kunoza isuku yo mu kanwa kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu, biragaragara ko agirira isuku amenyo ye.

Umugore wirabura uryamye ugaramye hari kandi n'undi mugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi ariku dusakazarumuri umuganga uri kumuvura amenyo iruhande hahagaze undi mugabo wambaye uturindantoki ndetse n'impozankano y'ubururu yo kwa muganga bigaragara ko arigufasha uwo mugore kuvura.

Umuhungu ukiri mutoya w'inzobe uryamye agaramye, hakaba hahagaze n'umugabo, wambaye agapfukamunwa, wambaye uturindantoki, bigaragara yuko afite akadodo mu ntoki akaba agiye kumuvura ibijyanye n'amenyo. Kuko akadodo afite kifashishwa mu kubungabunga ubuzima bw'amenyo.

Ubusitani burimo ibyatsi bitoshye, inyuma hari ibiti nabyo bitoshye, hirya hari imodoka. Hari kandi agakeka karambuye kagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, kari mu ibara ry'ubururu, kicayeho umukobwa wambaye ipantaro iri ibara ry'umutuku imwegereye ndetse n'umupira w'umukara werurutse uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo bigaragara yuko akuze, wambaye umupira umwegereye, uri kumwe n'umugore w'inzobe, nawe bigaragara yuko akuze, ufite imisatsi y'imvi y'umweru, bigaragara ko bari ahantu heza, bishimye basa nk'abari gukora, imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi wicaranye n'umwana we ku meza, bigaragara yuko hari icyo ari kwigisha uwo mwana we yifashishije amashusho. Bicaye mu cyumba cyiza, inyuma yabo hari utubati amatara ari kwaka harasa neza pe.

Umugore ukuze wambaye amadarubindi, inyuma ye hari umukobwa mwiza cyane, ufite ibisuko bifunze, wambaye akantu mu ijosi, bigaragara yuko ari akifashishwa mu gusuzuma uburyo umutima uteramo, yambaye impuzangano y'ubururu yo kwa muganga, bigaragare yuko ari umuganga mwiza uri kwita kuri uwo mukecuru, bose bakaba bishimye.

Umukecuru ufite imvi wambaye umupira uri kumwe n'umugore ukiri muto ufite ibisuko wambaye amadarubindi bari kumwe n'akana nako gafite imisatsi myinshi bari mucyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, biragaragara yuko bishimye pe.

Umusaza wirabura bigaragara ko afite imvi, wambaye umupira w'ubururu ndetse hasi yambaye ikintu cy'umukara. Afashe mu ntoki ze udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ari ahantu bigaragara ko ari hanze. Inyuma ye hari ibyatsi bitoshye, ndetse yambaye n'utuntu tumufasha kumva amajwi wenyine mu matwi ye. Bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiza kirimo irangi ry'umweru, kirimo intebe nziza igezweho yicayemo umugabo bigaragara ko ashaje, wambaye amadarubindi, ufite ubwanwa bwo hejuru y'umunwa bw'umweru, wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki, wicaranye n'umukobwa uri kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, akoresheje igikoresho cyabugenewe akaba yambaye impuzangano igaragaza ko ari umuganga.

Umuntu w'umusaza uryamye agaramye, iruhande rwe hari umuntu utagaragara neza niba ari umugabo cyangwa ari umugore ariko yambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse afite n'gakoresho kagenewe gupima uko umutima utera, uwo musaza akaba ari mu byuma byita ku buzima bikoresha ikoranabuhanga rigezweho, bikaba bigaragaza ko ari kwitabwaho pe!

Abagore batandukanye bose bishimye, bari ahantu mu murima w'icyayi, bahetse ibitebo bigaragara yuko ari byo bari gusaruriramo icyo cyayi, ukaba ubona umurima barimo ari mugari cyane kandi wose uhinze icyayi.

Abantu bicaye bakoze ishusho y'uruziga barimo abagabo, abagore, hakaba harimo n'abagaragara yuko bashaje, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'icyatsi ufite mudasobwa ku bibero bye, bigaragare yuko ari we ufite icyo ari kubwira abo bantu bateraniye aho, bikaba bigaragara yuko ari amahugurwa ari kubaha.

Umusaza bigaragara ko ashaje wambaye amadarubindi wicaranye n'umukecuru nawe bigaragara ko akuze bafashe urupapuro bari gusomera hamwe, imbere yabo ku meza hari ibindi bipapuro byinshi ndetse harambitse n'ikaramu, umusaza afashe telefoni mu ntoki ze, mu cyumba barimo inyuma yabo hari andi meza menshi ndetse n'intebe.

Umuntu w'umugabo bigaraga yuko ari umusaza ufite umusatsi w'imvi ndetse n'ubwanwa bwi'imvi wambaye umupira w'ubururu, afite n'akandi gakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri k'ubururu ari kumwe n'umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga nawe ufite agakoresho mu ijosi rye kagenewe gupima k'umutima utera akaba ari we uri kumwerekera uko akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugore ukuze w'umukecuru ufite imvi wicaye ufite ikirahure kirimo amazi mu kiganza kimwe ikindi kiganza agiteze ngo umukobwa wambaye impuzankano yo kwa muganga umuri iruhande amuhereze imiti ngo anywe, bikaba bigaragara ko ari kwa muganga ari kumuha ibinini bimuvura indwara arwaye, uwo mukobwa kandi afite agakoresho kagenewe gupima uko umutima utera mu ijosi.

Umugabo bigaragara y'uko ashaje, ufite ubwanwa burimo imvi z'umweru, wicaye ku gitanda cyiza cyane kigezweho, afite ikirahure bigaragara ko hari ikintu ari kunywa, imbere ye hari umukecuru na we bigaragara ko akuze, wambaye amadarubindi, bigaragara y'uko ari we wamuhaye icyo ari kunywa, ategereje ko asoza ngo amwakire icyo kirahure.

Umusaza ukuze ufite imvi urikumwe n'umugabo ufite ubwanwa wambaye agakoresho kabugenewe mu gusuzuma niba umutima ugitera, ndetse n'impuzangano yo kwa muganga. Bicaye mu cyumba kiza kirimo amarangi y'umweru, kimanitsemo ibishushanyo bigaragaza umubiri w'umuntu. Ni kwa muganga. Uwo musaza hari ibyo barikumusobanurira ndetse n'ingamba zatuma ubuzima bwe bugenda neza.

Umugore bigaragara yuko akuze ari umukecuru wicaye ahantu hasa neza hari amatara agezweho, intebe nziza, akaba yambaye imyenda yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ufite umusatsi urimo imvi, wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru n'ubururu, wasetse, bigaragara yuko ari kumwe n'undi barimo babuguzanya, hagati yabo harimo igikoresho bari kwifashisha bakina umukino wo kubuguzanya.

Umugabo bigaragara ko ashaje cyane afite imvi aricaye afite urufura rw'isabune mu maso, hari kandi ibindi biganza biri kumukoraho ariko bigaragara ko atari ibye, bikaba bigaragara yuko bari kumwitaho, bari kumwoza, kubera ko ashaje cyane.

Umuhanzi Mico The Best ahagararanye n'umugore wambaye imyenda y'umukara n'umweru, bafashe mu ntoki zabo icyapa, gishishikariza abantu kwisuzumisha no kwivuza igituntu, akaba ari ubutumwa bwateguwe n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda, muri icyo cyumba kandi harimo n'intebe iri mu ibara ry'umukara.

Ibikoresho bitandukanye birimo ikaramu urushinge ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima niba umutima ugitera, hari kandi n'urupapuro rwanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse no mu ibara ry'umukara, akaba avuga indwara zidashobora kwanduzanywa hagati y'umuntu n'undi.

Umugore mwiza wicaye mu ntebe ya kaki wambaye neza, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, bigaragara ko hari icyo ari kuvuga, inyuma ye hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru cyanditseho, amagambo ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara yuko ari gutanga ubukangurambaga mu kurwanya inda ziterwa abangavu.

Abagore bane batandukanye, bigaragara ko bose ari ababyeyi, bateruye abana. Bicaye ahantu, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye bitambutsa ubutumwa, bitandukanye bikaba, bigaragara yuko bose baje kwa muganga, bazanye abana babo mu gikorwa kimwe runaka.

Abantu batandatu bambaye impuzankan yo kwa muganga igizwe n'udupfukamunwa ndetse n'imyenda irinda umubiri wose yagenewe kwambarwa mu gihe cyo kwirinda ibyorezo, inyuma yabo hari undi mugabo nawe wambaye impuzangano wambaye nawe agapfukamunwa bikaba bigaragara ko bari kwa muganga ndetse akaba ari igihe cy'ibyorezo kuko bambaye imyenda y'ubwirinzi.

Umukobwa mwiza w'inzobe wambaye umupira wumutuku, ufite umusatsi muremure usutse. Akaba ari kumwe n'umumama wambaye impuzankano y'umutuku uri kumwitaho bigaragara ko ari kumupima umuvuduko w'amaraso. Akaba kandi nyuma yabo hari abandi bantu barimo bambaye impuzankano nk'iyo, n'abandi bigaragara yuko nabo ari abaje kwipimisha umuvuduko w'amararaso. Bikaba bisa nkaho bari mu bukangurambaga bwo gupima abantu umuvuduko w'amaraso.

Umugabo wirabura wambaye impuzangano y'ubururu n'agapfukamunwa, uri kumwe n'abandi bagabo babiri bambaye impuzangano na bo, bigaragara ko bari kumutera urukingo, inyuma yabo hari icyapa cyerekana yuko bari gutanga urukingo rwa kovide mu gihugu cya Nigeria.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, kiriho amagambo yanditse mu mabara y'umukara n'umweru, hariho kandi ikirangantego cy'urugaga rw'inzobere mu Rwanda, kiri mu ibara ry'ubururu, hariho kandi umwana wambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hari umugabo ufite ubwanwa wambaye akuma kabugenewe mu gupima uburyo umutima uteramo.

Abantu barimo abagabo, abagore, abirabura ndetse n'umuzungu bari kwa muganga bakikije umurwayi bari kwitaho bamuha ubuvuzi, bari mu cyumba kirimo amabara y'umweru ndetse n'ibikoresho byagenewe kwifashisha mu buvuzi bigezweho.

Umuntu w'umumama ufite imisatsi iboshye myiza iziritse neza wambaye agapfukamunwa, ufite amadarubindi ku ishati ye mu gatuza. Akaboko ke bakamanuye biragaragara ko ari gukingirwa n'undi mugore bari kumwe na we wambaye agapfukamunwa, ndetse n'ishati y'umweru. Inyuma yabo hari undi mugore uhagaze na we yambaye agapfukamunwa bigaragara ko ategereje gukingirwa na we.

Abantu babiri bambaye impuzankano yo kwa muganga, yagenewe kwambarwa mu gihe cyo kwirinda ibyorezo bakaba banambaye udupfukamunwa, hari kandi umusaza wicaye wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'ikanzu y'umukara, bakaba bameze nk'abari kumupima icyorezo runaka, hirya ku murongo hari abandi benshi bategereje ngo na bo baze kwisuzumisha.

Umukecuru witeza agatambaro witeye umwitero uriho uturabo wicaye hari umukobwa bigaragara ko akiri muto w'inzobe umufashe akaboko wambaye impuzankano yo kwa muganga uturindantoki bigaragara ko agiye kumusuzuma indwara, hirya kandi hari undi musore bigaragara ko nawe ari gusuzuma indwara, hicaye kandi umukobwa bigaragara ko bakorana, ku meza imbere yabo hari imiti bigaragara ko bari gutanga ubuvuzi.

Abanyeshuri bambaye impuzangano, bari mu muhanda muremure bisanzuye, abari imbere bafite icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, gishishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera sida, babibutsa ko ari bo hazaza h'u Rwanda.

Abantu bane barimo umugabo, umusore, umukobwa ndetse n'umugore bafite icyapa kiri gutambutsa ubutumwa buvuga yuko ari byiza gukoresha agakingirizo mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuza bitsina.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, kigizwe n'ikirangantego cy'u Rwanda, kirimo ingabo ebyiri, isaka, ikawa, agaseke, ingata ndetse n'imirasire y'izuba, kikaba ari ikirango cya minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba cyiza kirimo intebe z'umutuku, icyumba kikaba giteye amarangi y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, bikaba bigaragara y'uko hari amahugurwa yahabereye, bose bari kureba imbere bahanze amaso uri kubabwira biragaragara ko bamukurikiye rwose.

Icyapa cy'ubururu, kiriho amagambo yanditsewe mu ibara ry'umweru, hakaba kandi hariho ibiganza bibiri bifatanye, kikaba ari ikirango k'ikigo gishinzwe kwimakaza ubuzima bwiza mu baturage batuye u Rwanda.

Abantu babiri, uw'umugabo n'uw'umugore, bambaye imyenda yo kurinda umubiri wose, irimo uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'indi myenda irinda umubiri, biragaragara yuko ari abaganga bafite umuntu bari kuvura, bakoresheje ibyuma bigezweho, byifashisha ikoranabuhanga kwa muganga.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku w'icunga rihishiye, kiriho inziga ziri mu mabare y'icyatsi. Zerekana ibimenyetso bya corona virusi, uburyo wayirinda ndetse n'uburyo watabariza umuntu byagaragaye ko ayirwaye. Ubu butumwa bukaba ari ubw'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, hagaragaramo umuntu usa nk'upfukamye ufite udusebe twinshi ku mubiri, hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo ashishikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo intebe z'umweru, kirimo abantu bambaye impuzankano y'umweru, imbere yabo hari umuntu uri kubabwira, biragaragara ko bamukurikiye afite kandi icyapa ari kuberekeraho, kiri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, hari kandi n'umuntu uhagaze na we wambaye impuzankano y'umweru, uri gufata amashusho akoresheje igikoresho cyabugenewe, bikaba bigaragara ko habereye amahugurwa.

Ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda kiri mu mabara y'umweru ndetse inyuma hakaba hasa ubururu. Kirimo ibimenyetso bitandukanye birimo ingabo, ingata, agaseke, isaka ndetse n'ikawa hakaba harimo n'izuba. Handitsemo amagambo agaragaza yuko ari Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Icyumba cyiza cyisanzuye kirimo ibikoresho bitandukanye, cyubatse mu buryo bugezweho, kirimo amata ari kwaka bikaba bigaragara yuko ari kwa muganga hatangirwa ubuvuzi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amadirishya y'ibirahure, hakaba hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'ubururu, hakaba hagaragara yuko ari ku bitaro bivura amaso.

Inzu nziza yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'akayira gakoze neza, kanyurwamo n'abahaje, imbere yayo hicaye abantu batandukanye, bigaragara yuko bategereje kuhafashirizwa, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, bigaragara yuko ari ahafatirwa ibizamini kwa muganga.

Icyumba cyiza kirimo amabara y'umweru, harimo kandi igitanda gifite ibara ry'ubururu bwijimye, harimo kandi igikoresho cyifashishwa mu buvuzi bugezweho, gikoresho ikoranabuhanga rigezweho ryifiteho mudasobwa ndetse n'insakazamashusho, byifashishwa mu kwerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Ahantu heza cyane hari amakaro hateye amabara y'umweru, hari n'ibishushanyo by'imitako iri mu mabara y'umweru, umukara ndetse na kaki. Hari kandi intebe zagenewe kwicaraho ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'iza kaki hakaba n'utumeza duto twa kaki ndetse n'umukara. Bigaragara yuko babitondetse babyitondeye.

Umwana wambaye impuzankano y'icyatsi, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga bafite igikoresho kiriho amenyo bikaba bigaragara ko umuganga ari kwigisha uwo mwana uburyo bwiza bwo kubungabunga isuku yo mu kanwa. inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ndetse n'abagore babiri nundi mugabo utagaragara neza bigaragara yuko bari gufatanya muri ubwo bukangurambaga.

Inzu nziza cyane, irimo amabara meza, arimo ubururu umuhondo n'umweru, hakaba kandi harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabugenewe mu kwifashishwa mu buvuzi, gifite n'aho umurwayi aryama. Hari kandi n'agatebe gafite ibara ry'ubururu n'umukara, hakaba kandi hari n'indi nsakazamashusho bigaragara yuko harimo ibinyabuzima byo mu mazi ndetse n'amazi.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye imbere yaho hari ubusitani, hepfo gato hari ikigega hakaba n'akazu bigaragara yuko ari ubwiherero, kuri iyo nzu handitseho amagambo bigaraga yuko ari inzu ababyeyi babyariramo ndetse inaruhukirizwamo abamaze kubyara.

Inzu nziza irimo amarangi y'umweru ndetse n'ay'umukara, imanitsemo insakazamashusho nini, harimo kandi n'igitanda kiryamwaho n'abarwayi, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho, ni kwa muganga.

Inzu nziza irimo amakaro n'amarange y'umweru, irimo ibitanda, hakabamo kandi n'ibitambaro bikingiriza buri gitanda, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, harimo umurwayi uryamye ku gitanda bigaragara ko arembye, iruhande hari umuganga wambaye impuzangano yo kwa muganga uri kumwitaho.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isakaye mu buryo bugezweho, yanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara bigaragaza ko ari ikigonderabuzima cya Gisenyi. Imbere yaho hari abantu benshi bigaragara ko ari abarwayi baje kwivuza. Imbere kandi mu muhanda hari umuntu w'umunyonzi utwaye igare ahetse umuntu ufite indobo bigaragara yuko aje kugemura kwa muganga. Hari kandi icyapa cyerekana yuko ari ku kigo nderabuzima cya Gisenyi.

Icyumba kigali cyisanzuye, kirimo ibikoresho birimo intebe z'umuhondo ndetse n'izindi z'umukara. hakaba kandi harimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bigezweho, bikoresha ikoranabuhanga, akaba ari kwa muganga.

Abagore bane bigaragara yuko ari ababyeyi, bambaye impuzangano yo kwa muganga, bambaye bose udupfukamunwa, bahagaze imbere y'inzu ababyeyi babyariramo ndetse hakanaruhukiramo ababyaye, bigaragara yuko ari ababyaza bakora kuri ibyo bitaro.

Inzu nini y'umuturirwa yubatse mu buryo bugezweho, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo haparitse imodoka, hakaba kandi hari n'ubusitani burimo indabyo zitandukanye, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umukara agaragaza yuko hakorera ikigo cy'ubushakashatsi ku buvuzi bw'ubuzima.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho y'umutamenwa, isakaye kandi mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo haparitse imodoka iri mu ibara ry'umutuku ndetse na moto, imbere yaho kandi hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hari abantu babiri, bigaragara ko bari kuva muri iyo nyubako, iyo nyubako ikaba imeze nk'ivuriro.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo amabara y'umweru, hakaba harimo ibitambaro by'ibara ry'ubururu kigenda gitandukanye buri ahari igitanda. Harimo ibitanda by'umweru bishasheho neza amashuka y'icyatsi hakaba kandi harimo n'imashini yifashishwa mu buvuzi bugezweho, hakaba ari kwa muganga.

Icyumba cyiza cyane kirimo amakaro y'umweru giteye amarangi y'umweru, kirimo amatara menshi ndetse n'utwuma tw'ikoranabuhanga dufata amashusho, harimo kandi n'ibikoresho bindi bigezweho byifashishwa mu buvuzi bikaba bigaragara yuko ari kwa muganga.

Inyubako nziza iririmo amarangi meza, hakaba harimo intebe nziza zigezweho, harimo kandi n'izindi ntebe z'umukara zikikije ameza, harimo ibyapa bitandukanye handitsemo n'amagambo. Bikaba bigaragara yuko ari inzu itangirwamo ubuvuzi.

Inzu nziza iteye amarangi meza y'mweru, ifite amadirishya y'ibirahure meza. Irimo abakozi bo kwa muganga batandukanye, bambaye impuzangano yo kwa muganga. Harimo kandi n'utubati dutondetsemo neza ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu kwa muganga.

Icyumba cyiza kirimo amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara, kirimo ibikoresho byiza bigezweho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bikaba bigaragara yuko aho hantu hakorerwa iyo myitozo ngororamubiri itandukanye.

Icyumba cyiza kirimo amarangi y'umukara, umweru n'ubururu, harimo kandi icyuma cyifashishwa mu buvuzi bugezweho, kigizwe n'agatanda karambuye umurwayi aryamaho gateretseho n'akandi gakoresho kari mu ibara ry'umutuku.

Umugore wambaye impuzangano yo kwa muganga, ufite imisatsi ifunze neza, yambaye mu ijosi akuma kabugenewe mu gupima niba umutima ukiri gutera, afite mu ntoki ze igitabo ari kwandikaho, imbere ye hari umugore biteza agatambaro ka gisirikare bigaragara ko yaje kwivuza, akaba ari guha amakuru umuganga, inyuma yabo hari umugore wambaye impuzangano na we y'ubururu bigaragara ko na we ari umuganga.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ikikijwe n'ubusitani bugizwe n'indabyo nziza, nyuma yayo hari ibigega byagenewe gukusanya amazi y'imvura, inyuma yayo kandi hari indi nzu yubatse mu buryo bwiza, bugezweho, isakaje amabati y'umutuku, inzu yerekanywe biragaragara yuko ari ku bitaro bikuru bya Rukoma, ikaba yifashishwa mu gutanga ubufasha ku bana bahohotewe.

Inzu nziza y'umuturirwa yubatse mu buryo bugezweho, ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahuri, imbere haparitse imodoka, hahagaze abantu ndetse hari n'imodoka imwe iri kuhasohoka, hari umuntu ushinzwe abinjira n'abasohoka yayifunguriye ngo ibone aho inyura, hicaye kandi n'undi muntu imbere yaho wambaye umupira w'ubururu . Izengurutswe n'igipangu kigizwe n'ibimera ahandi hagizwe n'amabuye.

Ahantu hari amabara y'umweru ndetse hasi hakaba hasa ubururu, hari ibikoresho by'ibyuma byagenewe kwifashishwa mu buvuzi, bikoresha ikoranabuhanga rigezweho.

Icyumba cyiza kirimo amarangi y'umweru, kimanitsemo ibikoresho bitandukanye, birimo isakazamashusho, imitako ndetse n'isaha, hakaba harimo kandi ibyuma byagenewe kwifashishwa mu buvuzi bugezweho, byifashisha ikoranabuhanga rigezweho.

Inzu nziza, ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo werurutse. Imbere yaho hateye indabyo. Handitseho amagambo, bigaragara yuko ari ahafashirizwa abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abakobwa batandatu bambaye impuzangano yo kwa muganga ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo kandi hari icysapa ikindi kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi bikaba bigaragara ko bakora mu bitaro biri mu mujyi wa Kigali byitwa legasi byamenyekanye cyane ku buvuzi batanga.

Icyumba kiza kirimo amabara y'umweru ndetse n'inzugi zifite amabara y'umukara werurutse, kirimo imashini yifashisha ikoranabuhanga rigezweho, ikoreshwa mu kureba imbere mu murwayi, basuzuma ikibazo yaba afite. Bikaba bigaragara yuko ari kwa muganga harimo kandi n'amatara menshi ari kwaka.

Icyumba kigari cyisanzuye cyiza cyane kirimo amatara, amarangi y'umweru. Ndetse hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, birimo ibitanda n'inzitiramibu. hari kandi umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu uri kuzinga inzitiramibu, bigaragara yuko hari ubufasha ari guha umurwayi uryamye.

Inzu nziza, yubatse ku buryo bugezweho, iri mu mabara y'umweru, hakaba hari inyuguti zanditseho, bigaragaza yuko ari inzu ababyeyi babyariramo, imbere yayo hicaye abantu bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu, bigaragara yuko umwe muri bo w'umugore, ahagurutse, afashe ijambo, hari icyo ari kugeza ku bateraniye aho.

Icyumba cyisanzuye, kirimo amatara ari kwaka, giteye irangi ry'umweru, kirimo insakazamashusho ziri kwaka, harimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri binyuranye, hakaba hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Umugore mwiza wirabura ufite ibisuko wambaye agapfukamunwa, amaherena, ndetse n'impuzangano yo kwa muganga uri kumwe n'umwana muto w'umukobwa nawewe wambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko uwo mugore ari umuganga uri kumupima umuvuduko w'amaraso. Inyuma yabo hari akabati karimo imiti itandukanye iruhande kandi hari agakarito kagenewe kubika ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba kigari kisanzuye, kirimo amakaro giteye irangi ry'umweru, kirimo utubati dutondetsemo neza, udukarito turimo imiti itandukanye, bikaba bigaragara yuko aha ari ahacururizwa imiti, ivura indwara zitandukanye.

Icyumba cyiza, kirimo amabara y'umweru, kimanitsemo umutako mwiza, harimo kandi n'imashini igezweho yifashisha ikoranabuhanga, yabugenewe mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi, icyo yaba arwaye.

Icyumba cyiza cyisanzuye, kirimo irangi ryiza, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi bugezweho kwa muganga, hakaba harimo kandi n'insakazamashusho zifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga, yambaye agapfukamunwa ariko yakamanuye. Yambaye ndetse n'amadarubindi, yambaye n'uturindantoki. Imbere ye hari abagore bigaragara yuko ari abakecuru, umwe muri bo afite imvi. Undi kandi bamushyizeho igikoresho cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, bikaba bigaragara yuko n'undi ategereje yuko bamupima.

Icyumba kirekire kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye bigezweho, harimo kandi n'amatara menshi ndetse n'icyapa kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru cyerekana aho basohokera, hari kandi umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga n'agapfukamunwa, hari n'abandi bagore babiri inyuma ye hirya, na bo bambaye imyenda yo kwa muganga bigaragara ko ari abakozi baho.

Ubwinjiriro bwubatse neza buriho amagambo agaragaza yuko aho ngaho ari ku kigo nderabuzima cya Kigina. Amarembo arakinguye, imbere harimo amazu menshi atandukanye yubatse mu buryo bugezweho. Imbere yaho hahagaze umumama uhetse umwana.

Ibitaro binini cyane byubatse mu buryo bugezweho, biri mu mujyi wa Kigali bizwi nka Legacy, imbere yabyo haparitse imodoka zitandukanye, zirimo n'ibangukiragutabara y'ibyo bitaro, hakaba hari n'umuntu ushinzwe umutekano uri kuyobora izo modoka uko ziparika.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yanditseho amagambo yerekana yuko ari ku kigo nderabuzima cya Rwerere, imbere kandi hateye indabyo, iruhande hari umuntu uri kugenda, hakaba kandi imbere hari n'agahanda bigaragaye ko gasutsemo amabuye, kakaba karagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru.

Icyumba cyiza kiri mu mabara y'umweru kirimo amakaro n'amatara ndetse n'intebe zigezweho zicaweho n'abantu b'abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko ari kwa muganga bakaba bategereje kwakirwa hari kandi n'igikoresho cy'ibara ry'umutuku cyagenewe kurwanya inkongi y'umuriro.

Umugore uryamye, woroshe, urwaye, akaba ari mu cyumba kirimo ibindi bikoresho byinshi byifashisha ikoranabuhanga rigezweho mu buvuzi, hakaba kandi harimo n'insakazamashusho igaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, hakaba kandi harimo n'indorerwamo nini cyane.

Inzu nziza y'umuturirwa, isakaye neza ku buryo bugezweho, iri mu mabara y'ubururu, umweru n'umutuku, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bigaragaza yuko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere yaho kandi hari ubusitani bwiza, hakaba n'akayira kamennyemo amabuye bigaragara ko kagenewe abanyamaguru.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru hamanitsemo isaha, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iki cyumba kikaba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri n'abantu batandukanye.

Inzu nziza iteye amarangi meza, irimo intebe nziza zigezweho, n'utubati twiza ndetse harimo na mudasobwa, inyuma hari igishushanyo kigaragaza imbere mu mubiri w'umuntu, bigaragara yuko ari kwa muganga.

Umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu, bigaragara yuko ari umuganga, afite imisatsi myinshi myiza ifunze, bikaba bigaragara yuko hari umurwayi uryamye agaramye ari kwitaho, bari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga.

Inzu nziza irimo amarangi yumweru numukara harimo n'amatara ari kwaka harimo kandi utubati twi'ibirahure turimo amadarubindi y'ubwoko butandukanye ndetse n'ingano zitandukanye atondetse neza biragaragara yuko hatangirwa ubuvuzi bw'amaso.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho,, ifite isakaro ryiza riri mu ibara ry'ubururu hakaba handitseho amagambo agaragaza yuko ari inzu ababyeyi babyariramo ndetse ikanaruhukirwamo n'abamaze kubyara, imbere yaho hari ubusitani, hari n'uruzitiro rw'ibyuma, hakaba kandi hari n'akayira k'amabuye, kanyurwamo n'abaje kuri iyo nzu.

Abantu benshi barimo ibyiciro bitandukanye abagore, abagabo ndetse n'abana bikaba bigaragara ko bari kwa muganga bakaba bari aho bakirira abarwayi ku kigo nderabuzima bikaba bigaragara ko bategereje ko bakirwa, iruhande rwabo hari umugabo uhagaze nawe bigaragara ko ategereje kwakirwa.

Icyumba kigari cyisanzuye, kirimo amatara meza ndetse gifite amarangi y'umweru, harimo ibikoresho byinshi binyuranye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, kikaba gikorerwamo iyo myitozo.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bugezweho. Hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'icyatsi bigaragara yuko hacururizwa imiti. Imbere yaho hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru. Hakaba kandi hari ipikipiki ndetse n'umuntu uyitwara uhagaze iruhande rwayo.

Icyumba kirimo amabara y'ubururu bwijimye ubwerutse ndetse n'ubworurutse cyane ndetse n'amabara y'umweru, hakaba harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi mu kureba mu mubiri w'umurwayi basuzuma icyo yaba arwaye, kikaba ari igikoresho kigezweho cyifashisha ikoranabuhanga rigezweho.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho irimo amakaro, amatara menshi, isizemo amarangi y'umweru bigaragara yuko ari kwa muganga. Harimo kandi ibyumba bitandukanye birimo ibifite inzugi z'ibirahure ndetse, n'ahandi bigaragara yuko ari ku bwiherero hari kandi n'ahantu ku rukarabiro rw'intoki imbere y'ubwo bwiherero.

Umugabo bigaragaraye yuko ari umuganga, wambaye impuzangano yo kwa muganga, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, ku mpuzangano yambaye handitseho yuko akora ku bitaro bikuru bya Ruhengeri, iruhande rwe hakaba hari icyuma kifashishwa mu kuvura amenyo, bikaba bigaraga yuko ko ari umuganga w'amenyo.

Icyumba kirekire kisanzuye kirimo amabara y'umweru n'ubururu, hakaba kandi harimo abantu barimo umugore wambaye impuzangano y'ubururu, wambaye agapfukamunwa uri kugenda, hari n'abandi bagore bambaye nabo izindi mpuzangano zo kwa muganga bigaraga yuko ari kwa muganga.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, iri mu mabara y'umweru, umutuku werurutse ndetse n'umukara nawo werurutse, hakaba hari intebe zifite amabara, y'umutuku imbere ku rubaraza ndetse n'utuntu tumeze nk'udusanduku, hari ibyapa kandi byerekana ibyo bakora, bikaba bigaragara y'uko, iyo nyubako ari ivuriro.

Icyumba kigari cyisanzuye, gifite ibara ry'umukara hasi ndetse kirimo n'inkingi z'umweru n'ibikuta by'umweru, hejuru harimo amatara atandukanye, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bikaba bigaragara yuko iki cyumba cyahariwe gukorerwamo iyo myitozo ngororamubiri.

Inzu nziza yubatse neza mu buryo bugezweho, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho amagambo yerekana ko ari ku bitaro bikuru bya Nyarugenge, imbere kandi hari akayira kagenewe kunyurwamo kegeranye n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoye.

Icyumba kigari kirimo amabara y'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye bifite ibara ry'umutuku, birimo intebe ndetse n'igitanda, hakaba kandi harimo ameza ariho ibikoresho bitandukanye biriho na mudasobwa, bikaba bigaragara yuko ari icyumba bavuriramo.

Icyumba cyiza cyisanzuye kirimo amatara ari kwaka, kirimo insakazamashusho nini ziri gutambutsa amashusho, kirimo kandi ibikoresho byiza byabugenewe mu kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, biragaragara ko icyo cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Inzu nziza irimo amakaro, irimo amatara meza, isize amarangi y'umweru n'umutuku. Harimo utubati twinshi dutandukanye, turimo amadarubindi bigaragara y'uko havurirwa amaso.

Abantu barimo abirabura ndetse n'abazungu bambaye ibibaranga mu ijosi. Bahagaze imbere y'inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, yanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi byerekana yuko ari ku bitaro bikuru bya Rwamagana.

Amarembo akinze agizwe n'ibyuma ari mu ibara ry'ubururu, hakaba handitseho inyuguti ya ha iri mu ibara ry'umweru, hakaba kandi hari n'igipangu gisize amabara y'umweru, umutuku n'umukara, inyuma harimo inyubako nziza zitandukanye zubatse mu buryo bugezweho, hateyemo ibiti. Imbere yaho hari ibyapa bitandukanye byerekana ibihakorerwa, akabari ku bitaro bya Nyanza.

Inzu iri mu mabara y'umweru nziza yubatse ku buryo bugezweho. Hejuru ku muturirwa hakikijwe n'ibyuma birinda abantu kuba bagwa. Hasi haparitse imodoka. Bikaba bigaragara yuko hakoreramo abantu batanga imiti. Bikaba bigaragara yuko ari i Remera mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza y'umutamenwa iteye amarangi meza, imbere yayo hari amadarapo atandukanye arimo ni ry'igihugu cy'u rwanda imbere kandi hari umuntu ushinzwe umutekano, hakaba n'abantu bigaragara ko bari kuhagana iyo nyubako iriho amagambo yerekana yuko ari ibitaro bikuru byitiriwe umwami faisal.

Abantu b'ibyiciro bitandukanye ari byo by'abagore ndetse n'abagabo, barimo kandi abazungu n'abirabura, bari ahantu heza hari ubusitani bwiza ndetse n'inzu nziza yubakishije amabuye, bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro bya Butaro, bikaba bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umukobwa mwiza wirabura bigaragara yuko akiri mutoya, wambaye uturindantoki ndetse akaba anambaye impuzankano yo kwa muganga. Hari agakoresho afite mu ntoki kagana ku matwi ye, bikaba bigaragara yuko hari icyo ari kumva. Ari mu nzu nziza yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi.

Ibikoresho bikoze mu birahure, birimo amazi biteretse ahantu heza habonerana, bigaragara yuko ari ku kirahure, hari kandi n'igikoresho cyabugenewe mu kureba utuntu dutoya cyane cyane nk'udukoko twibasira abantu, kikaba gikoreshwa mu kureba udukoko twaba turi mu maraso y'umuntu, tumutera uburwayi bikaba bigaragara ko aha ari kwa muganga.

Icyumba cyiza cyisanzuye kirimo amarangi y'umweru, kirimo kandi ibitanda bishashe neza biri mu mabara y'ubururu n'umweru. Biragaragara ko aha hari ibyangombwa byose byafasha umurwayi kumera neza.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, irimo amakaro, imbere yaho hari icyapa kinini, kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse cyandikishijeho amagambo y'umweru, bikaba bigaragara y'uko bacuruza imiti itandukanye.

Icyapa kinini cyanditseho inyuguti nini ziri mu ibara ry'umweru, bigaragaza yuko ari ku bitaro bikuru bya Kabgayi, inyuma hari amazu atandukanye, hari ibiti, ndetse hari n'umuntu uhagaze, n'undi uri ku igare, bigaragara yuko ari imbere mu bitaro bikuru bya Kabgayi.

Icyumba kigari cyisanzuye, kirimo amabara meza arimo icyatsi, ubururu, umutuku, harimo kandi n'ibikoresho nk'intebe ameza, mudasobwa hakaba ari kwa muganga.

Icyumba kigari cyiza kirimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, harimo amatara ari kwaka, harimo kandi n'ibitanda byiza bigezweho byo kwa muganga, bikaba bigaragara yuko ari kwa muganga.

Abantu benshi barimo abagore, abakecuru, abasaza n'abagabo bicaye mu nyubako nziza. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ryiza uhagaze bigaragara yuko hari icyo arikubabwira. Hari n'abandi bagabo babiri kandi bicaye ku meza, imbere yabo hateretse amazi na bo bigaragara yuko bategereje kugira icyo bageza ku mbaga ikoraniye aho.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru, irimo isaha, harimo kandi n'ibikoresho bitandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, akaba ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isakaye mu buryo bugezweho n'amabati y'ubururu, hakaba handitseho kandi n'amagambo mu ibara ry'ubururu, bigaragaza yuko ari inzu ababyeyi babyariramo ndetse hakanaruhukiramo ababyeyi bamaze kubyara.

Icyuma kinini kiririmo ibara ry'umweru n'ubururu cyabugenewe mu kwifashisha mu gusuzuma imbere mu mubiri w'umurwayi, kiriho kandi n'isakazamashusho ebyiri zifashishwa mu kureberaho amashusho y'uko bimeze imbere mu mubiri w'umurwayi, hari kandi n'umugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga, bigaragara ko ari umuganga uri gukoresha iyo mashini.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho y'umuturirwa, iriho ibyapa byerekana yuko hatangirwa imiti, imbere yaho haparitse imodoka ebyiri zifite amabara atandukanye, hirya kandi hari igipupe cyamamaza imyambaro, bigaragara ko hacururizwa imyenda.

Inzu nziza igizwe n'ibirahuri, hasi harimo amakaro, hakaba hari ibyapa byinshi byamamaza biriho abantu bambaye amadarubindi, mo imbere harimo utubati twinshi tw'ibirahure turimo amadarubindi menshi atandukanye, hakaba kandi harimo n'intebe zicarwaho, kimwe mu byapa cyanditseho yuko ugura idarubindi rimwe irindi bakariguhera ubuntu.

Icyumba kigari kirimo amarangi y'umweru n'ubururu, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Harimo kandi n'ibitanda bibiri birwariyeho abarwayi babiri batandukanye, kimwe kiriho uw'umusaza ufite imvi ikindi kiho uw'umwana, bakaba bari no kongererwa umwuka kuko bafite ibikoresho byongera umwuka ku mazuru.

Icyumba cyiza, kirimo irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, harimo amatara ari kwaka. Harimo kandi n'akabati karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo kandi icyuma cyabugenewe gikoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi kugira ngo babashe kumenya icyo arwaye.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo amakaro kirimo amatara ari kwaka harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho bikoresha ikoranabuhanga birimo n'intebe zifite ibara ry'ubururu.

Umuganga wicaye imbere ya mudasobwa ebyiri inini n'intoya, ari kureba muri mudasobwa imwe, amashusho agaragaza ibihaha by'umurwayi we uko bimeze, iri vuriro rikoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kuvura abarwayi baryo.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amadirishya y'ibirahure, iruhande hakaba hari ubusitani bwiza burimo ibimera bitandukanye, hakaba hari amagambo yanditseho mu ibara ry'icyatsi bigaragaza yuko ari ahavurirwa kanseri mu Rwanda.

Icyumba kirekire, kisanzuye, kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo ameza, intebe, ibitangada ndetse n'ibitambaro bigenda bigabanya aho buri gitanda kiri, inyuma kandi hariyo n'umuntu ugaragara ko akora hano kwa muganga, ibikoresho bihari kandi birerekana ko ari kwa muganga.

Icyumba cyiza gisiza amarangi y'umweru meza, gifite amadirishya y'ibirahure, hakaba kandi hamanitsemo umutako uriho imisozi myiza, harimo igitanda abarwayi baryamaho, harimo kandi n'ibikoresho byifashisha ikoranabuhanga rigezweho bikoreshwa mu buvuzi bugezweho.

Umuntu uryamye agaramye, hakaba hari n'undi muntu, uri kumugorora akaguru, bigaragara y'uko yagize imvune, akaba ari kumuvura, bari mu cyumba kirimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Imipira iri mu bwoko butandukanye iminini n'imitoya, harimo ikinwa imikino y'amaboko ndetse n'iy'amaguru, hariho kandi agakoresho kifashishwa mu gupima uburyo umutima uteramo.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bifite amabara atandukanye, byifashishwa mu imyitozo ngororamubiri, harimo kandi umuntu ugaragara nk'umugabo uhagaze ku kaguru kamwe, uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Umuntu w'umugabo wicaye ku gatanda k'umukara n'umweru, iruhande rwe hari umuganga w'umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga y'umweru ndetse n'ikarita yerekana yuko ari umuganga. Akaba afite igikoresho cyabugenewe arigushyira ku kirenge cy'uwo mugabo bigaragara ko yavunitse akaba arikumuvura. Inyuma yabo kandi hari n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Umukobwa mwiza ukiri muto, wambaye imyenda imwegereye yagenewe kwifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, yapfukamye ku kaguru kamwe akandi yagahinnye, yazamuye amaboko, ari mu myitozo ngororamubiri, ari mu cyumba kirimo irangi ry'umweru, iruhande rwe hari umutako w'ikimera, akaba ari gukorera imyitozo ngororamubiri ku gakeka kabugenewe.

Ibiganza bibiri icyo iburyo n'icyo ibumoso biri kurebana biri ahantu h'umweru. Byambaye uturindantoki twambarwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kurinda ibikomere ku ntoki.

Umugabo wambaye ikabutura imwegereye, hejuru nta kintu yambaye, biragaragara y'uko ari ahagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, nawe akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye kandi inkweto zabugenewe ndetse n'isaha.

Ibiganza bibiri by'umuntu w'inzobe icy'iburyo n'cy'bumoso biri kurebana, yambaye uturindantoki twifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde ibikomere ku ntoki cyangwa se imvune.

Umukobwa wirabura uryamye yubitse inda, amaboko ye ari hasi, yeguye igice cye cyo hejuru, yambaye imyenda yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse imitako igizwe n'indabo, bikaba bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umumama wambaye agapfukamunwa uteruye umwana, imbere yabo hicaye umuntu ugaragara ko ari umuganga wambaye imyenda y'ubururu nawe akaba yambaye agapfukamunwa, afite agakoresho k'ikoranabuhanga kagenewe gupima umuriro, iruhande hari mudasobwa n'ibindi bikoresho by'itumanaho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi mu gupima umuvuduko w'amaraso bigaragara ko ari kwa muganga.

Umuntu w'umugabo, wirabura, bigaragara yuko ari ahantu hari ibyatsi bitoshye, wambaye umupira umwegereye, afite icupa riri mu ibara ry'ubururu ryerurutse cyane, ririmo amazi ari kunywa.

Icyumba kirimo ibara ry'umweru kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, harimo kandi ibikoresho byabugenewe mu myitozo ngororamubiri bikaba bigaragara yuko iki cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho binyuranye birimo imikasi, ibipfuko, imiti ivura ubushye ndetse n'agakarito kari mu ibara ry'umukara, bikaba bigaragara y'uko ari imiti yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu ugize ikibazo cyoroheje.

Umukobwa uri ahantu h'umweru wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri kari kandiwanjye ku gake kabugenewe kuguruka mwiha akarambayeye kandidi kkinnyi kamanitse amaboko isura ye ntabwo igaragara neza arimorakora nyine imyitozo ngororamubiri.

Agakarito, kari mu ibara ry'umweru mu imbere ndetse n'akabararo k'umukara, karirimo udupapuro dutandukanye, bigaragara yuko turimo imiti, harimo kandi n'agacupa kandi nako karimo umuti bigaragara yuko, ako gakarito kabikwamo ubuvuzi bw'ibanze, kifashishwa mu kuvura, ibikomere, ndetse n'imvune zoroheje ndetse n'ubushye.

Umuntu bigaragara yuko ari umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe, yicaye ku kaguru kamwe ahantu ku cyuma, bigaragara yuko ari iruhande rw'amazi magari menshi, akaba ariho ari gukorera imyitozo ngororamubiri.

Ibikapu bibiri kimwe kirafunze neza ikindi kirafunguye, ibyo bikapu byombi bifite amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'imishumi y'umukara, igikapu gifunguye kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibyo kwitabaza mu gihe umuntu agize imvune, ubushye cyangwa ibisebe bitandukanye, bikaba bigaragara ko ari ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze.

Umugore wirabura wambaye umwenda wabugenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, akaba kandi afite igitambaro cyabugenewe guhanagura amazi ku mubiri, afite icupa rifite ibara ry'umukara ari kunywa amazi.

Umuntu uryamye yubitse inda, uri kumwe n'undi muntu wambaye impuzankano yo kwa muganga n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, bikaba bigaragara ko ari umuganga uri kumwitaho akoresheje ibyuma byifashisha ikoranabuhanga rigezweho, ryifashishwa mu buvuzi bugezweho mu kwita ku barwayi.

Icyumba cyiza kiri mu mabara y'umweru, kirimo igikoresho kigezweho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu buvuzi mu gusuzuma imbere mu mubiri w'umurwayi, hari kandi n'utubati ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa muri icyo cyumba, akaba ari kwa muganga.

Umukobwa mwiza wirabura wasetse wicaye ku gakeka kabugenewe mu gukorerwaho imyitozo ngororamubiri. Yambaye imyambaro yabugenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, ari kwinanura iruhande rwe hari intebe

Umuntu bigaragara ko ari umugabo ufite ubwanwa bukeya, utagaragara neza isura, mu kiganza cye afashe icupa ribonerana ririmo amazi ari kunywa, ahagaze ahantu bigaragara yuko hari inzu nayo ifite ibara ry'umweru inyuma ye.

Akaboko k'umuntu wirabura afatiyeho kandi agakoresho kari mu ibara ry'ubururu n'umukara, bigaragara yuko yagize imvune akaba ari kureba ukuntu yakwivura ngo yongere amere neza.

Umuntu w'umusore wicaye isura ye ntabwo igaragara, yambaye umwambaro uciye amaboko w'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, yicaye mu busitani ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura bigaragara yuko yicaye akora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe mu gukora iyo myitozo, yicaye ahantu hari ibara ry'icyats,i bigaragara yuko ari mu bwatsi bwinshi bisa nkaho ari mu kibuga.

Ibikoresho biri mu moko atandukanye harimo ibyo bifashisha bapfuka cyangwa se bahambira imvune bigaragara y'uko byagenewe gukoreshwa n'umuntu waba ugiriye imvune cyangwa acikiye igisebe mu myitozo ngororamubiri, bikaba biri ahantutu h'umweru kandi bikaba ari ibikoresho by'ingeri zitandukanye.

Icyapa kiriho ikirango cy'umuryango ufasha imbabare kiri mu mabara y'umweru, amagambo y'umukara ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba kiri mw'ibara ry'umutuku, bikaba bigaragaza yuko bari gutanga amahugurwa ku butabazi bw'ibanze bwahabwa ugize ikibazo.

Icyumba Kigali cyisanzuye, kirimo icyuma gikoresha ikoranabuhanga rigezweho cyifashishwa mu kuvura amenyo, harimo kandi n'utundi tubati ndetse n'indi nsakazamashusho, bigaragara yuko ari ahavurirwa amenyo. Idirishya riri muri iki cyumba rirafunguye, inyuma biragaragara ko hateye ibyatsi bitoshye.

Umugabo wirabura wambaye imyenda yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri. Aricaye afite icupa ry'amazi ari kunywa. Iruhande rwe kandi hateretse igikapu cyagenewe kubikamo imyambaro yifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite ubwanwa ufite imisatsi iboshye wambaye imipira icuye amaboko n'ikabutura, apfukamye ku gakeka kabugenewe yubamye arambuye amaboko ye imbere ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umusego w'igitanda.

Umukobwa ukiri muto wicaye ku gakeka kabugenewe, imbere ye hari mudasobwa yambaye imyenda yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri ari kwinanura, iruhande rwe hari n'utundi dukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hateretse n'icupa ririmo amazi, iruhande rwe kandi hari n'intebe nziza z'imisego.

Umugabo wirabura usutse ibituta wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara uryamye yubitse inda, iruhande rwe hari umugabo w'umuzungu wambaye ingofero bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri bakaba bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Abahungu babiri bigaragara yuko bakiri bato, bambaye impuzangano iri mu mabara y'umutuku, hari akamenyetso k'umweru karimo umusaraba w'umutuku, bateruye mugenzi wabo na we wambaye umupira w'umuhondo, bigaragara yuko agize ikibazo akeneye ubutabazi bw'ibanze, bakaba bari kumufasha, inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru n'umukara bari kubarebera.

Agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, kari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, kambarwa mu ivi bagira ngo birinde imvune mu gihe haba habayeho impanuka runaka.

Igikombe gikoze mu kirahure gitoya bari gusukamo amazi bifashishije ikindi kirahure kinini, bigaragara yuko ari amazi meza afite isuku bari gushyira muri icyo kirahure.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri imwegereye, mu ntoki ze afite icupa ribonerana rifite umuvuniko w'ubururu ririmo amazi bigaragara yuko ari kuyanywa.

Ibiganza bifashe imbuto zitandukanye zifashishwa mu buvuzi gakondo, hasi kandi hari inkweto zifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'utundi dukoresho tunyuranye twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Udukarito twinshi dutandukanye dutondetse neza mu tubati turi mu mabara y'ubururu, umweru, umuhondo, umweru, twose tukaba tugiye dutonze bigendeye ku mabara yatwo, bikaba bigaragara yuko iyo yose ari imiti gakondo ivanze mu tubati bitewe n'icyo igiye ivura.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, birimo inshinge, imikasi, ibinini n'ibindi bitandukanye, hari kandi n'agakarito kari mu ibara ry'umutuku kariho ikimenyetso cy'uruziga n'umusaraba, bigaragara ko ari ko ibyo bikoresho bibikwamo, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze.

Umuntu w'umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yabugenewe, ufite ibishushanyo ku kaboko, iruhande rwe hari undi mugore usutamye bigaragara yuko ariwe uri kumwerekera ,mu nzu barimo kandi harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bigaragara yuko ari iyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umusore wumutse wambaye umwambaro uciye amaboko, ipantaro ndetse n'inkweto zabugenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, ari mu mbuga yisanzuye, inyuma ye hari inzu ifite amabara y'umweru, yambaye kandi ukoresho twabugenewe mu matwi mu kumva, amajwi wenyine.

Umugabo wirabura isura ye itagaragara neza ufite ubwanwa, wambaye imyenda yagenewe kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri, mu kiganza cye afite icupa ribonerana ririmo amazi ari kunywa.

Ikirahure ndetse n'icupa biri ahantu h'umweru, bigaragara yuko iryo cupa riri gusuka amazi muri icyo kirahure, ayo mazi akaba ari amazi meza bigaragara yuko wayanywa.

Umutwe uriho ibisuko byiza cyane bifungiye inyuma bifite ibara ry'umukara ndetse n'amaboko azamuye, bigaragara ko ari umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwinanura. Haragaragara kandi n'ikirere gikeye gisa ubururu.

Ibikoresho bitandukanye birimo, imikasi, ibipfuko, ibikwasi ndetse n'ibindi, hari kandi n'agakarito kari mu ibara ry'umutuku, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umusaraba, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze.

Umuntu w'umusore wambaye umwenda umwegereye ufite icupa riri mu ibara ry'ubururu, rifite umufuniko w'umukara bigaragara yuko ari kunyweramo amazi, bikaba bigaragara ko ari ahantu hanze bisa nk'aho yari arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, handitseho amagambo ari mu cyatsi kererutse cyane ku buryo agaragara, hakaba hariho udushushanyo, icyo cyapa kikaba kerekana yuko batanga ubuvuzi bwo kunanura imitsi.

Amaguru y'umuntu bigaragara yuko aryamye agaramye, akaguru kamwe gahinnye akandi yakarambuye, hari kandi n'undi utagaragara neza wambaye umwenda w'umukara, ufite ikintu cy'ubururu mu ntoki yafatiye ku ivi ry'uwo uryamye, bigaragara yuko yagize ikibazo cy'imvune mu ivi bakaba bari kumuvura.

Umuntu wumukobwa wirabura, wicaye ahantu mu cyumba kirimo intebe gisize irangi, wicaye ku gakeka kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri, na we bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku wijimye imwegereye, yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura mwiza cyane. wambaye umwambaro w'umutuku umwegereye bigaragara ko ari uwo uguko imyitozo ngororamubiri yambaye kandi agakoresho ku kaboko kagenewe gufata telefone ngendanwa mu gihe cy'imyitozo, ndetse kandi n'utundi tugozi tujya mu matwi tujyana amajwi, tumufasha kumva mu buryo bw'umwihariko, afite icupa ribonerana mu ntoki. ari kunywa amazi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara imwegereye, bigaragara ko ari iyo gukorana imyitozo ngororamubiri. Akandagiye kandi ku gikarito ubona ko gikomeye n'akaguru ke kamwe akandi kari hasi. Hasi hafite ibara ry'icyatsi. Iruhande rwe hari utundi dukoresho bigaragara ko twifashishwa mu myitozo ngororamubiri kandi n'idirishya ry'ikirahure kirangaye. Biragaragara ko uwo mugabo ari mu myitozo ngororamubiri mu nzu yagenewe gukorerwamo iyo myitozo.

Abantu babiri bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara, akaba ari imyenda igenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru, baryamye ahantu hari ubwatsi busa icyatsi harimo n'imirongo y'umweru akaba ari mu kibuga, umwe araryamye ahinnye akaguru, agiriye imvune mu myitozo ngororamubiri, mugenzi we ari kumufasha ngo akire.

Umuntu w'umukobwa wambaye imyenda imwegereye, bigaragara ko yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri. Amanitse amaboko biragaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hakaba hari amazi magari. Bigaragara yuko ahagaze ku nkombe zayo, ariho ari gukorera imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto witeye umwambaro wagenewe guhanagura amazi ku mubiri ku rutugu, wambaye imyenda yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri afite icupa riri mu ibara ry'umweru ribonerana rifite umufuniko w'ubururu, ari kunywa amazi, bigaragara ko yarari mu myitozo ngororamubiri, akagira inyota akaba ari kunywa amazi ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Uducupa dutatu turi mu ngano zitandukanye dufite amabara y'umweru, hakaba hariho utwapa turi mu mabara y'ubururu, twanditseho amagambo mu mabara y'umweru n'umuhondo. Tumwe muri utwo ducupa karapfunduye tukaba twifashishwa mu kugabanyiriza ububabare umuntu ugiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura ufite imisatsi y'umukara mwiza, wambaye imyenda yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri n'agakoresho, kamufasha kubika terefone ngendanwa ye, mu gihe ari muri iyo myitozo ndetse n'udukoresho bimufasha kumva amajwi wenyine, afite kandi icupa riri mu ibara ry'ubururu, rifite umufuniko w'umukara ririmo amazi bigaragara ko ari kunywa amazi.

Umuntu w'umugabo wirabura utagaragara ku gice cye cyo mu maso, uri kumwe n'undi w'umuzungu, washyize akaguru k'uwo mugabo ku rutugu rwe, bigaragara yuko ari kumuvura imitsi, bari ahantu mu nzu irimo ibikombe, amashusho ndetse hari n'idirishya rirangaye rikozwe mu kirahure.

Icyapa cyamamaza igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba hariho amagambo agaragaza y'uko icyo cyapa cyifashishwa mu gukura ibinure ku nda, bikaba bigaragara yuko kigura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bari ahantu hisanzuye, hari ibiti, bose bambaye imyenda yagenewe kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bose bafite umujyo umwe, bigaragara yuko hari umuntu uri kubererekera, na bo bagakora nk'ibyo yakoze.

Amaguru bigaragara yuko ari ay'umugabo hakaba hagaragara kandi n'ikiganza cye, afashe akantu kari mu ibara ry'ubururu agafatiye ku ivi rye bikaba bigaragara yuko yagize imvune mu ivi akaba ari kwiyitaho ngo arebe ko yakira.

Igikoresho gikoze mu byuma, gifiteho utuntu turi mu mabara y'umukara, kikaba ari igikoresho cyagenewe kwifashishwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo, kugirango ngo babashe gutambuka neza.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda yagenewe kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri, yambaye kandi n'isaha ku kaboko ke, yambaye ndetse n'inkweto zabugenewe, arunamye yifashe mu mavi bigaragara ko imyitozo ngororamubiri amaze gukora yamunanije cyane.

Amaguru bigaragara ko ari ay'umukobwa wambaye umupira ufite ibara nk'iry'icunga rihishije, biragaragara ko yakomeretse ku ivi, akaba ari gushyiraho igipfuko kirinda ko hajya imyanda muri icyo gisebe, yicaye ku gitanda cy'umweru, mu cyumba kiza kirimo amakaro, bigaragara ko ari kwa muganga.

Amaguru bigaragara yuko ari ay'umugabo, hari kandi ibiganza by'umuntu wambaye impuzankano yo kwa muganga bigaragara yuko ari umuganga uri kumuvura imvune yagize mu ivi.

Agakoresho kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'irindi bara ry'umukara, kakaba ari agakoresho kifashishwa kwa muganga mu gupima uburyo umutima utera, kamenyekanisha niba umutima ukiri gutera cyangwa utakiri gutera.

Umuhungu ukiri mutoya wambaye imyenda yagenewe kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu bwijimye, yambaye ibikomo byinshi ku maboko, afite ibisuko ku mutwe we, ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa muri icyo gikorwa.

Akaguru k'umuntu gahinnye, hari n'undi muntu wambaye impuzankano yo kwa muganga ufite n'agakoresho kabugenewe mu gusuzuma niba umutima uri gutera, biragaragara ko ari gukanda ivi ry'uwo muntu uryamye bigaragara ko yavunitse ari kumuha ubutabazi, abo bantu bombi amasura yabo ntabwo agaragara.

Icyumba cyiza kirimo amabara y'umweru n'utubara tw'ubururu, kirimo amatara ari kwaka, hakaba harimo icyuma kifashishwa mu gusuzuma imbere mu mubiri w'umurwayi, hakaba hariho itara riri kwaka ibara ry'ubururu, hariho umuntu uryamye wambaye imyambaro y'ubururu, urambuyeho igitambaro cy'umweru, bigaragara yuko agiye gusuzumwa akaba ari kwa muganga.

Utwuma dukoresha ikoranabuhanga dutandukanye twifashishwa mu buvuzi, turi ahantu hasa ubururu harimo akareba uko umutima uri gutera, hamwe n'utundi twifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Umuntu wicaye wambaye amadarubindi, wavunitse uri kwitabwaho n'umuganga, wambaye impuzangano yo kwa muganga akaba kandi afite n'agakoresho kabugenewe mu gupima uburyo umutima uteramo, akaba anambaye isaha.

Agakarito gafunguye kari mu ibara ry'umweru n'umukara, karimo udupapuro dutandukanye, turimo imiti yifashishwa mu kuvura ibikomere bitoya ndetse n'ubushye. Ako gakarito kakaba karagenewe kubikwamo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze.

Amaguru agaragara nkaho ari ay'umugabo, wunamye yifashe ku ivi, bikaba bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri ariko akaba agize ikibazo ku gice k'ivi rye, yambaye isaha y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara imwegereye.

Akadege gatoya katagira umupilote kari mu ibara ry'umutuku, gateruye kandi agakarito kari mu ibara ry'umweru, gafiteho ikimenyetso cy'umutuku kirimo umusaraba w'umweru, biragaragara ko ari ubutabazi bw'ibanze kajyanye ahantu, kari kunyura hagati mu mazu meza hateye n'ibiti.

Abantu babiri uw'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu bambaye imyambaro yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri bafite kandi n'ibikapu byagenewe kubika ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri. Uw'umugabo arikunywa amazi naho uw'umugore arahagaze arikwinanura bombi amasura yabo ntabwo agaragara neza.

Umukobwa uhagaze mu mucanga ahantu iruhande rw'ikiyaga. Yambaye imyambaro yagenewe kwifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'inkweto na zo zagenewe imyitozo ngororamubiri ziri mu ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'akabara kari mu ibara ry'umukara. Akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakarito gafunguye, kari mu ibara ry'icyatsi, karimo udupapuro tupfunyitsemo ibintu bitandukanye, harimo kandi n'icupa ry'amavuta, umukasi, ibinini ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara yuko ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze igihe umuntu agize ikibazo nko gukomereka, ubushye, imvune yoroheje n'ibindi.

Umuntu wicaye w'umugabo wambaye umupira umwegereye, akaba afite ikintu ku kaboko kigabanya ububabare bw'imvune, biragaragara ko yavunitse akaba ari kwivura.

Umukobwa muto ufite imisatsi myiza y'umukara, wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu heza humweru arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa mwiza wirabura, wambaye umwambaro wagenewe kwambarwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, yambaye kandi n'agakoresho kifashishwa mu kumva amajwi mu buryo bw'umwihariko, akaba kandi yambaye n'isaha, ari mu myitozo ngororamubiri yinanuye.

Umwana ukiri muto wicaye ku ntebe, hari umuganga wambaye impuzangano yo kwa muganga n'agapfukamunwa, ufite igikoresho cyabugenewe mu ntoki, kireba mu kanwa kigasuzuma icyo umuntu arwaye, uwo mwana mama wicaye ku ntebe aramuteruye, inyuma yabo hahagaze abandi bantu babiri, ubona bategereje na bo bambaye udupfukamunwa.

Umukobwa wunamye wambaye imyenda imwegereye yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, uri ahantu hari ibara ry'ubururu, afite imisatsi myinshi biragaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiriho umuntu uri kwiruka, uri mu mu mabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi; kikaba kiriho amagambo yerekana yuko ari urubuga rwemewe brw'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Imyitozo Ngororamubiri mu Rwanda.

Ikiganza gifashe icupa ririmo amazi rifite umufuniko w'ubururu. Inyuma kandi hari ikirere gikeye cy'ibara ry'ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, inyuma ifiteho ipine ry'umukara, izwi ku izina ry'imbangukiragutabara, iri mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti byinshi byiza bitoshye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho amagambo yanditse mu mukara werurutse, kiri ibishushanyo by'inshinge, agacupa k'umuti ndetse n'ibinini bikoze ishusho y'umuntu uri kwirukaba, bikaba kirigutanga ubutumwa bw'uko ari imiti yifashishwa mu kongerera imbaraga umuntu uri mu myitozo ngororamubiri.

Udukarito dutatu turi mu mabara yiganjemo umweru, umutuku, twanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amababi y'ibimera bitandukanye ari iruhande rw'agasekuru kabumbye mu ibumba karimo umuhini biri ahantu h'umweru, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa kari ku meza akoze mu rubaho, gakoze mu kirahure, gafite umufuniko w'umweru, kariho n'akapa k'umweru kanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, kariho n'udushushanyo turi mu ibara ry'icyatsi. Bikaba bigaragara yuko ari akifashishwa mu gusukura intoki, kica udukoko twaba turi ku ntoki.

Umugore uhagaze yishyigikirije ameza, ufite umwitero w'umweru mu mutwe, wambaye ndetse n'ishati, akaba yambaye n'ikarita imuranga mu ijosi. Imbere ye hari umugabo na we wambaye ishati irimo imirongo. Ku meza hariho amacupa atandukanye, afite amabara atandukanye, umweru, umukara. Bikaba bigaragara yuko ari ahabereye imurikagurisha, hakaba hari gucururizwa imiti gakondo.

Urubaho ruteretseho agakombe gakoze mu ibumba, kari mu ibara ry'umweru, gateretse ku gasahane gatoya na ko kari mu ibara ry'umweru, hariho ku ruhande imbuto zimeze nk'indimu ndetse na tangawizi, bikaba biteretse ku gatambaro gafite ibara rya kaki bikaba bigaragara ko ari imiti gakondo.

Ikimera kiri mu bwoko bw'icyatsi, gifite amababi meza atoshye, kiri ahantu hasi hari ibindi byatsi byumye, biragaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo imbere yacyo hari uducupa ndetse n'udupfunyika turiho amabara nayo atandukanye, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa cy'ubururu kiriho agacupa kari mu ibara ry'umuhondo gafite umufuniko w'umutuku kanditseho amagambo n'agashushanyo biri mu mabara y'umutuku, hariho kandi n'igikakarubamba bigaragara yuko bari kwamamaza umuti gakondo ukoze mu gikakarubanda.

Urubuto ruri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'urundi rubuto rukase rwarwo rurwegetseho rurimo imbuto z'umukara, rufite ibara ry'umuhondo, rukaba ruzwi nk'ipapayi, rukaba rwaramenyekanye mu kuvura indwara nyinshi, akaba ari umuti gakondo.

Uducupa tubiri turi mu ngano zitandukanye, kamwe ni karekare cyane akandi ni kagufi turi mu mabara y'umweru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, agacupa karekare gashushanyijeho igikakarubanda, iruhande hari amagambo ahanditse asobanura icyo iyo miti ivura, bikaba bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kiriho ibice by'umubiri w'umuntu bitandukanye birimo ijosi ivi umugongo urubavu urutugu inkokora n'ibindi hakaba hagiye hariho utumenyetso tw'umutuku bigaragaza y’uko ari ahantu hari kubabara hari kandi n'uducupa dutandukanye turi mu mabara y'umweru ubururu twanditseho amagambo atandukanye bigaragara y’uko ari imiti gakondo yifashishwa kuvura ubwo bubabare bwerekanwe ku ifoto.

Udukarito tune dutandukanye, turi mu mabara atandukanye, arimo icyatsi n'umweru ndetse n'umutuku n'umweru, hari kandi n'utundi ducupa turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku wijimye, dushushanyijeho ibikakarubamba. Bikaba bigaragara yuko iyi yose ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ikaba ari imiti gakondo.

Uturahure tubiri duteretse ahantu h'umweru turimo ibibabi ndetse n'ibisukika byijimye, iruhande kandi hari andi mababi, bika bigaragara yuko ari umuti gakondo wo kuvura indwara zitandukanye wahateguriwe.

Icyatsi gitoshye gifite amababi ndetse n'uturabo turi mu mabara y'umweru n'umuhondo bigaragara yuko kiri ahantu hari ibindi byatsi byinshi bitoshye, kikaba kizwi nk'inyabarasanya.

Ikibabi cy'icyatsi kiri ahantu herurutse hariho utuntu turi mu ishusho y'ibinini dufite ibara ryijimye, bikaba bigaragara yuko iyo ari imiti gakondo.

Icupa ririho icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku hakaba hariho n'agashushanyo k'uruyuki bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo uvura indwara zitandukanye ukoze mu buki.

Amababi y'ibimera bitandukanye yiganjemo ibyatsi. Afite amabara atandukanye harimo kandi n'imbuto na zo z'ibimera bitandukanye, bikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Kuri buri kimera hagiye handitseho izina ryacyo.

Icupa rifite ibara ry'umutuku ririho akapa kari mu ibara ry'umweru kaditseho amagambo, hakaba kandi hashushanyijeho igikakarubamba ndetse n'izindi mbuto, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Uducupa dutandukanye turi mu ngano zitandukanye dufite amabara y'umweru, ubururu, umuhondo, hakaba handitseho amagambo kuri buri gacupa yerekana ibirimo, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye, imwe iri mu macupa y'ibirahure, indi iri mu ducupa dutoya dufite imifuniko y'umuhondo, bikaba bigaragara yuko itondetse mu buryo yitaweho, mu tubati, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Agacupa gato, kari ahantu h'umukara, gafite ibara ry'umweru, kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, umukara, ndetse n'umweru, hariho n'agashushanyo k'icyatsi, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo.

Ikimera kiza gifite amababi atoshye ndetse n'uturabyo tw'umweru, bigaragara yuko aho kiri hari n'ibindi bihingwa byinshi bitandukanye, icyo gihingwa kikaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Irerero rigari ry'ibimera ririmo ibimera bigiye bitandukanye, harimo kandi n'abantu bari kubyitaho, inyuma hirya hari n'abandi bantu bigaragara yuko bari gusobanurirwa ibimera birimo, ibyo bimera byose birimo bikaba bigaragara nk'aho ari imiti gakondo.

Icyapa kiriho agacupa gatoya k'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'andi yanditse mu ry'umukara, andi yanditse mu ibara ry'umweru. Ku ruhande hariho amagambo yerekana uko uwo muti ukoreshwaba. Ukaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zo ku mu.

Uducupa, udupfunyika ndetse n'udukarito turi mu mabara atandukanye. Harimo umweru, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Hashushanyijeho kandi n'ibikakarubamba, hagiye hamanitseho amagambo agaragaza ikirimo muri buri kamwe. Tukaba twose turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Zirimo iz'uruhu, izo mu kanwa, izo mu maso n'izindi.

Ikibabi cyiza gitoshye gifite ibara ry'icyatsi cyiza. Akaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye uzwi nk'umuravumba. Ukaba kandi uri kumwe n'ibindi byatsi bitandukanye aho uteye.

Icyatsi cyiza gitoshye gifite amababi asa neza kiri ahantutu hari andi mababi yahahungukiye yumyeyo. Bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kanginditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hariho n'agashushanyo k'igikakarubamba, bigaragara yuko ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara runaka, iruhande kandi hari n'utundi tuntu turi mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Udukarito turi mu mabara y'umweru, umutuku, hariho udushushanyo tw'icyatsi turi ahantu h'umweru, bigaragara yuko harimo utuntu tugiye dutandukanye bikaba bisa nk'aho ari imiti gakondo.

Akabati gatondetsemo imiti itandukanye, iri mu bintu bitandukanye, birimo amacupa, udukombe ndetse n'udukarito, biragaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari kandi umugore uhagaze iruhande rw'ako kabati wambaye umupira w'umweru, hirya kandi hari n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma yaho hari inyubako zitandukanye.

Ibyatsi bikoze akantu kameze nk'igihuru byinshi bitoshye bifite uturabyo tw'umweru, bigaragara y'uko ari imiti gakondo yifashishwa kuvura indwara runaka.

Udukarito turi mu mabara atandukanye arimo ubururu n'umweru, hakaba hateritse kandi n'uducupa, dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, tugiye turiho n'andi mabara atandukanye arimo icyatsi, n'umutuku, hashushanyijeho kandi igikakarubamba kuri tumwe muri utwo ducupa, bikaba bigaragara yuko iyo ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Ibibabi bifite icyatsi cyiza cyane bitoshye biri ahantu hari n'ibindi bimera, biragaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Uducupa ndetse n'udukarito, ndetse n'agakombe bitandukanye, biri ahantu hatandukanye, bikaba bigaragara y'uko ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibyatsi bifite amababi manini meza atoshye, bifite n'icyatsi cyiza biri ahantu hamwe hari n'ibindi bihingwa, bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Ikiganza bigaragara ko ari icy'umuzungu, gifashe icupa riri mu ibara ry'umweru, ririho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, hariho udushushanyo tw'icyatsi, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara, hakaba hariho n'agashushanyo kandi k'igikakarubamba.

Ibimera bitandukanye bigiye biri mu bibumbano biteretse ahantu hatandukanye, biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hgiye handitseho amagambo yerekana ibyo bimera ibyo ari byo, ikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri turi mu mabara y'umweru, umutuku, w'icunga rihishije ndetse n'umuhondo. Twanditseho amagambo mu mabara kandi atandukanye ndetse hariho igishushanyo cy'igikarubamba. Akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa arambitse ari mu mabara atandukanye icyatsi kijimye, umukara ndetse n'ikigina, akaba ariho utwapa dutandukanye twerekana ibirimo muri ayo macupa. Akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa kari mu ibara risa n'iry'icunga rihishije ndetse n'iry'umweru, kanditseho amagambo mu ibara risa kandi nk'icunga rihishije kari ahantu h'umukara, bikaba bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Udupfunyika dutandukanye turi mu mabara atandukanye arimo ubururu, umukara, ndetse n'umweru. Hari kandi n'imbuto zirimo imineke, n'inanasi. Iruhande rwaho hakaba hari n'uturabyo. Bikaba bigaragara yuko iyo yose ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kiriho ibiribwa bitandukanye, birimo indimu ndetse n'igitunguru, hariho kandi n'agacupa kariho amagambo yandika mu ibara ry'umukara, ku kapa k'umuhondo ndetse n'icyatsi, hari n'amagambo yanditseho, bikaba bigaragaza yuko ibyo byose byifashishwa mu gukora umuti gakondo uvura indwara runaka.

Igihingwa gifite amababi atoshye, afite icyatsi kiza gihinze ahantu hari n'ibindi bihingwa, kikaba ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cyiza gifite amababi meza atoshye, kiri ahantu bigaragara y'uko aricyo cyonyine, kikaba ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyatsi gitoshye bigaragara yuko giteye ahantu hahinze neza. Nikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka. Inyuma yaho kandi hari ibindi byatsi biteye, bikaba bigiye bihinze mu buryo bihana intera.

Agasahane kari mu ibara ry'umweru kabumbye mu ibumba, kariho agahini gatoya, kakaba kariho n'agafu k'umukara, iruhande hateretse akandi gasahane kabaje kariho agafu k'umuhondo, hariho kandi indabyo, imbuto ndetse n'amababi, inyuma yaho hari utubindi tubumbye mu ibumba tunini n'uduto, bikaba bigaragara ko ari imiti gakondo.

Uducupa turi mu mabara atandukanye duteretse hamwe n'udukarito turi ahantu hafite ibara ry'umutuku, utwo ducupa turi mu mabara atandukanye arimo umweru ndetse n'umuhondo, hakaba kandi hagiye handitseho n'amagambo, kimwe n'utwo dukarito kandi natwo turi mu mabara y'umweru naho kandi handitseho amagambo bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa turi mungano zitandukanye umunani, hakaba harimo tune dufite ingano imwe, utundi dutatu dufite ingano imwe nakandi gatoya kamwe gafite ingano yako yihariye. Twose turi mumabara atandukanye ariyo umweru n'umuhondo tukaba twanditseho amagambo atandukanye hakaba kandi harimo igikakarubamba, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mubuvuzi.

Agasekuru kabumbye mu ibumba kari mu ibara ry'umweru iruhande rwako hari uducupa dukoze mu kirahure tubiri dupfundikije imifuniko ikoze mu giti kandi kamwe ntabwo gapfundikiye, hari kandi n'igikombe nacyo gikoze mu ibumba, hakaba n'irindi cupa rikoze mu kirahure ribonerana ripfundiki igiti, hakaba harimo ibimera bitandukanye bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi.

Ibimera bitoshye, bifite amababi afite icyatsi cyiza, biri ahantu hamwe bihinze byose. Akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Uducupa tureture n'utugufi, turi mu mabara atandukanye icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, tukaba duteretse ahantu, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agakarito gateretse ahantu h'umweru kari mu mabara y'umweru n'ubururu kariho n'amagambo y'icyatsi umweru n'udushushanyo tw'umutuku n'ubururu imbere yaho hari udupaki dutatu tw'ibinini bigaragara yuko twari turi muri ako gakarito tukaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Icyapa kiriho amenyo y'umuntu y'urwererane, hariho kandi n'uducupa turi mu ngano zitandukanye dushushanyijeho ikikakarubamba. Handitseho kandi n'amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kwirinda ndetse no kuvura indwara zo mu kanwa.

Icyapa kiriho agacupa kari mw'ibara ry'umweru, umutuku, ndetse n'amagambo yatseho mu ibara ry'umweru n'umutuku, hariho kandi yuko babakoreye igabanyirizwa ku biciro rya mirongo itatu ku ijana. Handitseho amagambo bigaragaza yuko, ari igisubizo ku muryango ku bijyanye n'indwara zifata abantu mu gihe cyo gutera akabariro.

Ibiganza bigaragara yuko ari iby'umuzungu ufashe ikibabi cy'icyatsi gitoshye, bigaragara yuko ari iki giti cy'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Utubati dutondetsemo imiti itandukanye, iri mu macupa ndetse n'iri mu dukombe dupfundikiye, ifite amabara atandukanye kandi iriho udupapuro twerekana icyo buri muti uvura, ikaba ari imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ibimera biri mu dukombe dufite ibara ry'umutuku, duteretse ku kantu gakoze mu cyuma gafite mpande enye mu ishusho y'urukiramende, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa udupfunyika ndetse n'udukarito turi mu mabara atandukanye y'umweru, umutuku icyatsi kibisi. Tumwe muri utwo ducupa dushushanyijeho igikakarubamba. Bikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugore witeye umwitero w'ubururu ufite n'agashakoshi mu ntoki ze, ari gukora ku bimera bifite amababi yi'cyatsi bitoshye, bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa kuvura indwara runaka, aho ibyo bimera biri kandi hari n'insina yeraho igitoki.

Agasahane kari mu ibara ritukura kariho ibimera bitandukanye amababi yabyo ndetse n'utubuto iruhande hakaba hari udufu dutandukanye hariho kandi agasekuru gato karimo umuhini hakabaho n'agacupa karimo ibisikika bifite ibara ryijimye bikaba bigaragara yuko iyo yose ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Uducupa turi mu ngano zitandukanye utunini, udutoya, ndetse n'uturinganiye, turi mu mabara atandukanye ariyo umutuku, umweru wijimye, ndetse n'icyatsi, tukaba tunariho amagambo yerekana ibirimo. Tukaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara umweru, umuhondo, turiho ibishushanyo biri mu mabara y'icyatsi n'umutuku ndetse n'umukara n'amagambo kandi ari muri ayo mabara. Tukaba turi ku ishusho y'igikakarubamba bigaragara ko ari imiti gakondo ikoze mu gikakarubamba.

Ameza ariho akarahuri karimo ibyatsi bifite uturabo, harimo n'akandi gakoresho gakoze mu kirahure, iruhande hari utuyiko tw'umweru turiho utuntu tumeze nk'utunini, iruhande hari uturahure twirabura turi mu ishusho y'icupa, bigaragara yuko ibyo byose ari imiti gakondo.

Agacupa kabonerana gatoya, gafite umufuniko w'umuhondo, gafite icyapa kiriho cyanditseho amagambo atandukanye, biragaragara yuko ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ukozwe mu cyatsi kizwi nk'umuravumba.

Udukarito tubiri turi kumwe n'uducupa tubiri ndetse n'akandi gapfunyika, biri mu mabara atandukanye umweru, icyatsi, umuhondo, umutuku, byanditseho amagambo bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bikaba biri ahantu hasa umweru.

Udusahane twinshi turi mu ngano zitandukanye, duteretse ku meza akoze mu rubaho, tukaba turimo ibintu bitandukanye, birimo imbuto z'ubwoko butandukanye, hari kandi n'ibiganza by'umuntu bifashe zimwe muri izo mbuto, bikaba bigaragara yuko iyo yose ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera kiri ahantu hari ibindi bimera byinshi, gifite amababi atoshye kandi ubona gikura mu buryo bw'igihuru, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Icyatsi kiza gitoshye, gifite uturarabyo twiza ndetse n'amababi, bigaragara ko atoshye, gihinze ahantu hameze neza, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, kari ahantu h'umukara, bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo, wifashishwa mu kwita ku musatsi.

Utuhuri tubiri duteretse ku meza y'icyatsi turimo ibisukika byirabura ndetse n'ibyatsi, iruhande kandi hari n'andi mababi y'icyatsi bigaragara ko iyo yose ari imiti gakondo.

Ibyatsi bitoshye bifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru, kari ahantu hasa umweruru, kariho icyapa kiriho ibara ry'umweru n'ubururu. Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bikaba bigaragara yuko hari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Udusahane tw'utubumbano turi mu mabara y'umukara, turiho imiti itandukanye, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, hari kandi n'ibindi bikoresho bibabaje byifashishwa mu kuvanga iyo miti.

Ibyatsi bifite amababi atoshye biri ahantu h'umukara, bikaba bigaragara nk'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibibabi by'icyatsi gitoshye by'ibiti bitandukanye, biri ahantu hamwe, bigaragara yuko ari imiti gakondo, bikaba biri ahantu hasa nk'aho ari mu ishyamba.

Uducupa tubiri turi mu ngano zitandukanye, ak'umuhondo ndetse n'ak'umweru, twanditseho amagambo mu nyuguti z'umutuku, hashushanyijeho kandi igikakarubamba, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Isahani nini ibumbye mu ibumba, iriho ibyatsi bitandukanye, hari kandi n'umuntu wicaye utagaragara isura hagaragara ibiganza bye biri gukora muri iyo sahani, bikaba bigaragara yuko ari gutegura umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito turi ahantu h'umweru turi mu mabara arimo icyatsi umweru ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hariho ibishushanyo by'ibikakarubamba bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Udukombe dupfundikiye ndetse n'icupa biri mu mabara atandukanye, icupa rikoze mu kirahure rirabonerana naho udukombe two turi mu ibara ry'umweru tukaba turiho ibirango biri mu mabara atandukanye twerekana ibintu birimo imbere akaba ari imiti gakondo ivura indwara zitandukanye ikoze mu buki, inyuma kandi hariho umutiba wa kijyambere uriho inzuki.

Ibimera bitandukanye bifite amabara meza anogeye ijisho, bimwe bikaba ari ibibabi, ibindi bikaba ari n'indabyo, bikaba bigiye biri ahantu hatandukanye, bikaba bigaragara yuko ari imiti gakondo.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi kiriho urubuto rwa avoka ndetse n'ikikakarubamba, hakaba kandi hanashushanyijeho isabune. Bikaba bigaragara yuko ari umuti gakondo ukozwe mu buryo bw'isabune zifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse no kururinda.

Ikimera gitoshye kiri mu bwoko bw'ibyatsi, gifite amababi y'icyatsi kibisi, kiri ahantu h'umweru kikaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibiganza bigaragara nkaho ari inzobe bifashe ikibabi cy'icyatsi gitoshye kiri ahantu hagaraga yuko hari andi mababi yahahungukiye yumye, bikaba bigaragara yuko iki cyatsi ari umuti gakondo uvura indwara runaka.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kiriho inyuguti ndetse n'udushushanyo turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bikaba bigaragara ko bari kwamamaza umuti gakondo uri mu bwoko bw'amavuta, ukaba wifashisha mu kuvura indwara z'uruhu.

Udupfunyika ndetse n'udukarito turi mu mabara atandukanye y'ubururu, umukara, ndetse n'umweru. Hari kandi umuneke, inanasi, n'indabo ziri ku ruhande. Bikaba bigaragara y'uko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Akayiko gakoze mu rubaho kari ahantu h'umweru, harimo kandi ibinini byinshi cyane biri mu ibara ry'icyatsi, bigaragara yuko ari umuti gakondo wifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandatu two mu bwoko bumwe, twanditseho amagambo amwe mu ibara ry'icyatsi, hariho kandi n'ibishushanyo by'igikakarubamba, turi ahantu h'umweru, bigaragara yuko ari imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa.

Agapfunyika kari mu ibara ry'umuhondo, hariho kandi n'akandi kabonerana hakaba harimo utuntu tugaragara nk'uturabyo tukaba dusa nk'aho ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Hariho kandi akapa kerekana abawukoze, ibirimo ibyo uvura, ndetse n'ingano.

Agacupa karimo ibara ry'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi hashushanyijeho kandi igikakarubamba, kari ahantu h'icyatsi bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Ikimera gifite amababi atoshye afite icyatsi kiza, kikaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iruhande rwacyo hakaba hari n'ibindi bimera.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'icyatsi gifite amababi atoshye, gifite akarabo keza k'umuhondo bikaba bigaragara yuko kiri ahantu hari ibindi bimera byinshi bitoshye, kikaba kigaragara nk'aho ari umuti gakondo.

Uducupa dutatu turi mu mabara atandukanye umweru ndetse n'umuhondo, twanditseho amagambo mu mabara y'umutuku werurutse ndetse n'uwijimye, hashushanyijeho ibikarubamba, bikaba bigaragaza yuko ari imiti gakondo, yagenewe kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa dukoze mu buryo butandukanye turi no mu ngano zitandukanye, dufite amabara y'umweru, umuhondo n'umutuku. Tugiye turiho amagambo yanditseho agaragaza ibirimo, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikarito iri mu mabara y'icyatsi, umweru ndetse n'umukara hashushanyijeho umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, uducupa turi mu mabara y'umuhondo. Twanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'agapfunyika kari mu mabara y'umweru n'ubururu, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.